Inzu nini y'igorofa, yubatse mu buryo bushishikaje, aho igice kimwe kugaragara ko cyubatse mu birahure bibonerana, kiriho ibyapa byamamaza, by'ikigo Saham. Ni ikigo gicuruza ubwishingizi butandukanye. Bishoboka ko gikorara muri iyi nzu cyangwa kigakorera ahandi, ariko ibi byapa biritabirwa cyane bitewe n'ibi birahure byometseho.

Icyapa cyamamaza ubwishingizi bw'imodoka bugura make bugezweho muri iki kinyejana cya makumyabiri na rimwe, ku cyapa cyo kwamamaza hariho umuzungu wambaye ingofero iriho ikirango cy'ubwo bucuruzi, yambaye amarineti aritegereza mu cyerekezo kimwe bigaragaza ko afite icyerekezo cyiza.

Iyo usuye urubuga ikigo gicuruza ubwishingizi, ubonaho urutonde bw'ubwishingizi butandukanye icyo kigo gitanga, harimo: ubwishingizi bw'imodoka, ubwishingizi bw'urugendo, ubwishingizi bw'umutungo utimukanwa , ndetse n'ubwishingizi bw'ibicuruzwa bigenda hakoreshejwe inzira y'amazi

Icyapa cyamamaza ibikorwa bya RSSB, ikigo gikorera mu Rwanda kigaragaraho ibintu bitandukanye, abaganga batanga serivise zo kwivuza ndetse na serivise zitangwa mu mavuriro atandukanye, zanditse mu buryo bugaragara neza, munyuguti z'umweru ziri ku cyapa cy'ubururu.

Iyo usuye urubuga rw'ikigo cy'imari gikorera mu Rwanda cya "Ekobanke" kuri urwo rubuga ubonaho utuzu twinshi, harimo akambere kagaragaza izina ry'icyo kigo "Ekobanke Afurika", hakakurikiraho utuzu tugaragaza ibikorwa by'icyo kigo harimo "Viza Dayiregiti", harimo "Sitandingi Oda" hakabamo na "interinashono Tiransifazi".

Ikigo gikora ubucuruzi bw'amafaranga buzwi nka mobayiro mani gishobora gutanga serivise zitandukanye zirimo; kukereka amafaranga yagiye anyura kuri konte yawe ndetse bakakwerka n'ayo usigaranyemo.

Mu bucuruzi bukoresha ikoranabuhanga n'amabanki ntiyasigaye inyuma atanga serivisi zitandukanye zikoresha ubwo buryo, nko gukura amafaranga kuri konti yawe yo muri banki uyashyira kuri mobayilo mani ya telefone, kugura amayinite, kohereza amafaranga kuri konti ava kuri imwe ajya ku yindi byose ku giciro gito.

Icyapa cyamamaza ubucuruzi, kigaragaza amasaha y'akazi, kikagaragaza iminsi y'akazi, n'ibicuruzwa bishoboka kuboneka kuri buri munsi, ndetse n'ibiciro byabyo.

Icyumba cy'imyidagaduro, kigaragaramo insakazamashusho nini imanitse hejuru inyuzaho imikino y'amakipe atandukanye yo mu bihugu byateye imbere, ni imikino myiza ishishikaza urubyiruko ku buryo ari rwo rwitabira ibyo bikorwa.

Ahacururizwa ibiribwa n'ibinyobwa haba hari ibikoresho bitandukanye, ameza, intebe, hitabirwa n'abantu batandukanye harimo abazungu n'abirabura hitabirwa cyane cyane mu mpera z'icyumweru ariko nanone cyane cyane mu masaha ya ni mugoroba kurusha ku manwa.

Ibirahure bitatu biteretse ku meza abonerana, biri muri byo ni birebire cyane, bikunda kwifashishwa banywa inzoga zo mu bwoko bwa divayi cyangwa se izindi nzoga zisembuye zifite alukoro nyinshi ku buryo ukinyweramo asukamo gake cyane.

Icyumba gikorerwamo ubucuruzi kigaragaramo ibintu bitandukanye bituma abantu bingeri zose bahitabira , abazungu, abirabura, kirimo amatara amurika neza, imitako ikoresheje ibikoresho bya kinyarwanda, akuma kasana umuriro ku buryo abahagana baba bisanzuye.

Ameza ateretseho ibirahure birebire cyane binini birimo impapuro z'isuko biteretse ku meza agaragaraho ikanya n'ikiyiko byifashishwa n'abantu bitabira serivise zitangirwa muri iki cyumba.

Akabari gacururizwamo ibinyobwa birimo ibisembuye, gakoreramo umugabo wambaye imyenda y'umukara, uri muri kontwari, aho abakiriya bicaye hari intebe, hari iz'ikigina, hari niz'umukara, zose ndetse, ku buryo bashobora gushyikirana n'umucuruzi bitagoranye.

Akabati k'icyuma gateretse mu cyumba gikorerwamo ubucuruzi bw'inzoga zisembuye harimo n'izikaze cyane zo mu bwoko bwa likeri, zipanze neza zikurikiranye ku buryo buri mukiriya ahita abona iyo ashaka, cyane cyane kubera itara riri muri icyi cyumba rimurika muri aka kabati mu buryo bwiza.

Abantu batatu harimo abagore babiri n'umugabo umwe, bahagze mu cyumba kicururizwamo inzoga zisembuye, baritegereza cyane, ni uburyo bwiza bwo kwamamaza ibikorwa byabo.

Icyapa cyamamaza inzoga ya sikolo, ni icyapa kinini kirimo amabara atandukanye harimo umutuku, umuhondo, icyatsi, ni icyapa kigaragara cyane, kigaragaza ko iyo nzoga iryohera abantu bose harimo ab'igitsina gabo n'igitsina gore.

Inzu icururizwamo ibinyobwa bitandukanye harimo n'ibisembuye, ni icyumba cyiza, gifite amatara amurika cyane, inzira ijyayo iteguye mu buryo bwa kinyarwanda ndetse hari n'intebe ziri hanze zifite ibara ry'umutuku, zateguriwe abashaka kumva umuyaga.

Umugabo utwaye ipikipiki wambaye impuzankano y'abamotari ifite ibara ry'umuhondo n'ingofero y'umutuku, ahetse umugenzi wambaye imyenda y'umukara n'ingofero itukura, bageze imbere y'icyapa cyamamaza inzoga ya mositeri.

Ahantu hacururizwa ibinyobwa harimo n'ibisembuye hagaragara ibikoresho bitandukanye nk'akabati kagenewe kubika izo nzoga zitondetse neza ku buryo zigaragara, hari n'ikirahure kinini cyiza gifite umukondo gifite icyapa cyanditseho Amostel.

Ubucuruzi bw'ibinyobwa bisembuye, bukorerwa ahantu hateguye ku buryo butandukanye, haro aho abantu bashobora kwicara mu nzu, hari aho abantu bashobora kwicara hanze, hatwikiriwe n'umutaka, ndetse hari n'aho bashobora kwicara bakikije ameza ateguye neza gusa, ariko adatwikiriye.

Iyamamazabikorwa ry' ubucuruzi bushingiye kuri murandasi rikorwa kuburyo butandukanye, nk' iki cyapa cyamamaza kigaragara nK' ikiri kumpapuro ebyiri zifatanishije utwuma, aho kuruhande rumwe ubona ibicuruzwa butandukanye namagambo abisobanura kurundi rubapuro ukahabonaho amazina yibigo bikora ubwo bucuruzi.

Icyapa kinini kirekire cyamamza inzoga ikaze yo mu bwoko bwa rikeri, kigaragaza uburyohe n'ubukana bwayo. Gishinze ahantu hirengereye imbere y'ibiti birebire bitoshye.

Icyumba kimurikiwe n'amatara amurika cyane arimo amabara menshi harimo umutuku, ubururu n'icyatsi kiramurika ameza ateretseho ikirahure n'udupapuro tw'isuku.

Ubucuruzi bw'ininyobwa bisembuye bukorerwa mu byumba byateguwe mu buryo bwihariye, kuburyo iyo bwije buhindura isura bitewe n'amabara y'amatara amurika cyane aba ari muri ibyo cyumba nk'iki ngiki urabona ukuntu cyahindutse ubururu neza neza.

Ibyapa byamamaza ibicuruzwa bitandukanye, harimo icyamamaza inzoga ya amositeri, bimanitse hejuru, ahantu hirengereye, ku buryo uri kure cyane ushobora kubibona, unyujije amaso hejuru y'ibisenge by'izindi nzu.

Insakazamashusho nini zimanitse ahantu hirengereye mu ibyumba bicururizamo ibinyobwa harimo n'ibisembuye, ni kimwe mubikoreshwa bigatuma hitabirwa cyane, kubera ko zerekana amarushanwa atandukanye, akenshi y'imipira abera mu bihugu bitandukanye.

Akenshi muri wikendi iyo bigeze mu masaha ya nimugoroba abantu batandukanye, bava mu ngo bagatembera bakagana utubari ducururizwamo inzoga ndetse tuba dufita n'insakazamashusho nini zerekana umupira wo ku mugabane w'iburayi.

Umukobwa w'inzobe usutse imisatsi wambaye imyenda y'umukara kaba agapira n'ipantaro, afite icupa mu ntoki rifite ibara ry'icyatsi bigaragara ko ari mu cyumba gicururizwamo ibinyobwa, akenshi usanga harimo ibisembuye n'ibidasembuye.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi butandukanye hari ubucuruzi bw'imyenda, hari ubucuruzi bw'ibiribwa n'ibinyobwa, imbere y'iyo nzu hari icyapa kinini cyamamaza ubucuruzi bw'ibinyobwa ahitwa kwa Antheli bigaragara ko ariho hitabirwa cyane kubera uburyo bakoresha iyamamazabikorwa.

Ahacururizwa ibiribwa n'ibinyobwa haba hateguye ku buryo bufite ubuhanga buhambaye, aho usanga hari mu byiciro bitandukanye ku buryo abantu bazanye cyangwa se bafite ibyo baganira by'umwihariko bashobora kwicara bisanzuye, ikindi haba hamurikiwe n'amatara abonesha cyane ku buryo nta mujura wabinjirira.

Icyapa cyamamaza inzoga isembuye ya Heineken kirimo amabara y'umweru, umutuku n'umuhondo gishinze imbere y'inzu nini kiragaragaza uburyohe bw'iyo nzoga cyane cyane iyo uyisutse mu kirahuri ukuntu iba inurira.

Icyumba kirimo abantu benshi gishobora kuba gikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi butandukanye, hari abicaye barimo gusangira inzoga zisembuye, bigaragara ko bishimye kubera icyo kinyobwa kibatera akanyamuneza.

Akabari ka viyayipi inshuro nyinshi kagira lisite y'ibicuruzwa gatanga, ikaba ishobora kuboneka mu buryo bw'ibitabo cyangwase mu buryo bw'ikoranabuhanga. Buri gihe aba ari urutonde rurerure rugaragaza ibiribwa n'ibinyobwa bihaboneka, n'ibiciro bya buri cyose.

Icyumba gikorerwamo ubucuruzi bw'inzoga zisembuye kiba kirimo ibice bitandukanye: haba hari akabati gapangwamo ibicuruzwa kamurikiwe n'itara rimurika neza, ikindi gice abakiriya bicaramo kiba kamurikiwe akenshi n'itara ritamurika cyane kuburyo abakiriya bicaramo bisanzuye.

Iyamamazabikorwa rikorwa mu buryo butandukanye, hari abifashisha ibyapa binini bimanitse hejuru ku nzu, nkiki cyahise cyandikwaho ngo Big house, ni uburyo ubwabyo bukurura abakiriya kubera kwibaza ibikorerwa muri iyo nzu nini.

Amatara afite amabara agira ingaruka kubyo amuritseho , inshuro nyinshi usanga aho amuritse hafata ibara ryayo , nkaha ngaha turabona amatara y'icyatsi ibyegere aho ngaho byose byabaye icyatsi ku rundi ruhande hari amatara y'ububuru bigaragara ko n'ibihegere nabyo byafashe ibara ry'ubururu.

Ahakorerwa ubucuruzi cyane cyane ubw'ibinyobwa haba hateguye mu buryo butandukanye nkaha hari amatara ay'umweru, ay'umutuku, ay'icyatsi bishoboka ko ari amasaha ya ninjoro aho abakiriya baba badashaka kugaragaza mu maso habo cyane.

Aho ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye buteraniye, haba hagomba kuba hamurika cyane, cyane cyane ahacururizwa ibyuma byo mu bwoko bwa eregitoroniki, ku buryo umukiriya abasha kubyitegereza neza akabasha kwisanzura, atashima akajya ahandi.

Ahantu hacururizwa ibinyobwa bya sikoru haba hatandukanye. Hari igihe haba hahambaye cyangwa se haciriritse. Ariko hose harangwa n'icyapa kinini gishushanyijeho amacupa y'inzoga ya sikoru cyanditseho n'amagambo agenewe kwamamaza ibikorwa by'icyo kigo.

Ahakorerwa ubucuruzi cyane cyane ubw'inzoga zisembuye hategurwa mu buryo butandukanye. Nko muri iki cyumba turabona ameza azengurutswe n'intebe abakiliya baza bakicaraho bakisanzura, kandi hagati y'ameza n'andi hari urukuta rurerure rubatandukanya ku buryo iyo bafite ibyo baganira by'amabanga umwe atabasha kumviriza undi.

Ahacururizwa ibinyobwa bisembuye bitandukanye birimo inzoga zo mu bwoko bwa rikeri zipanze mu kabati n'umukozi uhagaze yiteguye kwakira abakiriya, intebe z'abakiriya ziba zipanze ku buryo butandukanye, nk'aha ngaha turabona intebe zipanze neza imwe inyuma y'indi ku buryo buri mukiriya yaba yicaye yegeye kontwari agasaba ibyo ashaka bimworoheye.

Intebe zo mukabari gacururizwamo inzoga zisembuye, akenshi ziba ari ndende zikoze mubyuma kuburyo umukiliya ashobora kwicara yegereye kontwari akanywa ari ko aganira n'umuseriveri.

Icyapa kinini kirekire, kiri ku rupapuro rw'umweru rwandikishijeho inyuguti z'umukara, kiragaragara neza aho imitwe ya buri cyiciro cy'ubucuruzi yanditse mu nyuguti nini zitose, mu gihe ibicuruzwa bigaragara muri buri cyiciro byandikishije utunyuguti dutoya.

Ahacururizwa inzoga zisembuye harimo nka pirimusi bakunze kwita gahuzamiryango, hari icyapa kinini kigaragaza uburyo bukoreshwa mu kwishyura, bwaba ubutangwa n'ikigo Emutiyene n'ubutangwa na Eyateri, ku buryo umukiriya aba afite amahitamo akishyura akurikije uburyo bumworoheye.

Inzoga ya henikeni ni imwe mu nzoga zicururizwa ahantu haboneka inzoga zisembuye nk'uko bigaragazwa n'iki cyapa kimanitse hejuru kiri mu ibara ry'umweru n'umutuku, kigaragara neza nubwo icyumba kitamurikiwe cyane, bigaragara ko yitabirwa ukurikije umubare w'abantu bari muri iki cyumba.

Ahacururizwa inzoga zibamo alukolo nyinshi zitwa likeri, hagaragara urutonde rw'inzoga bacuruza n'ibiciro byazo kuburyo umuguzi uhinjiye barumwereka aho kubaza umucuruzi igiciro cya buri kinyobwa.

Mu cyumba gicururizwamo ibinyobwa bitandukanye kitabirwa nabantu benshi cyane cyane mu masaha y'umugoroba, hagaragaramo ibinyobwa bitandukanye harimo inzoga, fanta, amazi hari abahitamo kunywesha amacupa abandi bakanywesha ibirahuri, Kuburyo buri wese yishimira amahitamo ye.

Umugabo w'igikara wambaye umupira urimo amabara y'umutuku, umweru n'umukara n'ipantaro y'ubururu yicaye ku meza asoma igitabo. Bishoboka ko acuruza ibijyanye n'inyongerera mirire, noneho akaba arimo kwiyungura ubumenyi ku bicuruzwa bishyashya byabonetse.

Uburyo icyumba gicururizwamo inzoga harimo izisembuye zikaze zibamo arukoro nyinshi zipanze neza ku kabati kabugenewe mu cyumba gifite igisenge kiza gikoresheje ibikoresho by'iwacu mu Rwanda n'amatara amurika neza, gipanze neza ku buryo buteye amabengeza rwose ku buryo byakurura abakiriya.

Icyapa cyerekana ibikorwa by'ikigo bahamasi, gikora ubucuruzi bushingiye ku iyamamazabikorwa, gishinze hejuru y'igisenge cy'inzu ku buryo bugaragara, kiri mu ibara ritukura ryandikishijemo umweru ku buryo buri muntu abasha kuribona, gishinze imbere y'inzu nini igeretse yanditseho kilinike di purato.

Aho uwitwa Billy acururiza ibiribwa n'ibinyobwa, hagaragara urutonde rurerure rugaragaraho ibiribwa n'ibinyobwa bishobora kuboneka mu masaha ya mugitondo ndetse n'ibiciro byabyo, ku ifunguro rya burekefasite.

Abantu bahuriye mu cyumba gicururizwamo ibinyobwa, harimo ibisembuye n'ibidasembuye inshuro nyinshi bicara bakurikije uko baje nk'uko bigaragara muri iki cyumba babiri baricaranye, abandi babiri baricaranye ariko bitabujije ko bose bagira ibiganiro hamwe.

Icyumba gicururizwamo ibinyobwa bitandukanye, kigaragaramo insakazamashusho kenshi ziba zimanitse hejuru ku buryo aho umukiriya yicaye hose abasha gukurikira ibiganiro cyangwa se imikino binyura kuri izo nsakazamashusho ndetse n'amatara amurika neza mu buryo buteye amabengeza.

Icyapa kiriho kode isomwa hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga, akenshi iba igaragaza imyirondoro y'ikigo gikora ubucuruzi, ndetse n'ibicuruzwa bitandukanye ushobora kubona muri icyo kigo. Ariko byose ntushobora kubisoma udafite igikoresho cyabugenewe.

Icyumba kirimo inzoga zisembuye zitandukanye, zimwe muri zo ziri mu macupa zibikwamo apfundikiye ateretse ku meza, arundanyije hamwe, irindi cupa rimwe riri ku yandi meza bigaragara ko barifunguye basukaho mu birahure bibiri biteretse kuri ayo meza.

Ahahurira abantu benshi hatandukanye, abagabo n'abagore hateguye neza hacururizwa ibinyobwa n'ibiribwa, abantu bashobora kwicarana ku meza batazanye, ntibatangirire kurya rimwe ku buryo umaze kurya ashobora gusezera kuri mugenzi we, akagenda akahamusiga.

Umugabo wambaye ishati y'ikake n'ipantaro y'umutuku, ahagaze mu cyumba gikorerwamo ubucuruzi birimo ubw'inzoga zisembuye, imbere y'igikaziye kitarimo amacupa. Bishoboka ko ari nyir'ubu bucuruzi, ku buryo arimo kureba ibyashize kugira ngo yongere kurangura ubucuruzi bubashe gukomeza kandi bukorwe neza.

Icyapa cyamamaza ubucuruzi bw'inzoga ya amusiteri, buyigaragaza mu buryo butandukanye, mu magambo ndetse hari n'icupa ryayo n'ikirahure cyuzuye iyo nzoga, kiba giteretse ahantu hagaragara neza, ku buryo abakiliya bakomakomeye bashobora kuza no mu mamodoka yabo bakayaparika imbere yacyo binjira bareba icyo cyapa.

Abakobwa bakora iyamamazabikorwa ry'ubucuruzi bwifashisha ikoranabuhanga buzwi nka ikamase bukubiyemo n'uburyo bwo kwishyura, singomba ko buri gihe aba yisize ibintu byinshi bizwi nka mekapu kugira ngo atange umusaruro.

Mu bihugu bitandukanye haboneka ibyumba byagenewe imyidagaduro byitabirwa n'abantu batandukanye, abagabo n'abagore, abakiri bato n'abakuze, haba hateguye neza, hari ubusitani, hari amatara ahagije ku buryo abahagana bishima.

Imbere y'amazu manini akorerwamo ubucuruzi turahabona imodoka zishobora kuba ari iz'abakiriya cyangwa se abacuruza muri izo nzu, tukahabona ibyapa binini bigaragaza ubucuruzi buhakorerwa nk'iki cya Miitzing, ndetse n'umutaka wamamaza ubucuruzi bwa MTN.

Ubucuruzi bw'ibinyobwa bukorerwa ahantu hateguye neza, hari ibikoresho bitandukanye, hari nk'akabati kabika izo nzoga zitondetse neza ku buryo zigaragara, icyuma cyagenewe kubika no gukonjesha, intebe n'ameza byo kwicaraho, ariko bigaragara ko iyo bwije cyane haba hatakitabirwa.

Ikoranabuhanga ryakemuye ibintu byinshi harimo n'irungu abaguzi bagiraga mbere y'uko bakirwa. Uyu mugore w'inzobe, wambaye ikote ry'ikacye n'agapira k'imbere k'ubururu, yicaye ahantu ategereje ko bamwakira, ariko urabona ko nta kibazo afite, ahugiye ku ikoranabuhanga ryo muri terefoni.

Ahacururizwa ibinyobwa bisembuye harimo henikeni hitabirwa n'abantu batandukanye, aha ngaha haragaragara abagobo babiri umwe munini wambaye ishati y'ubururu yicaye ku ntebe ikoze mu giti. Hirya ye hari amzea ateretseho ikirahure kirimo inzoga ishobora kuba ari henikeni.

Mu kabari kagezweho nk'aka kitwa ekinogisi bar haba hari umutekano ku buryo umushoferi ashobora gusiga ipikipiki hanze adafite ubwoba ndetse haba hari n'ibikoresho byihariye harimo nk'ibikoreshwa mu kuzimya inkongi y'umuriro mu gihe haba habaye impanuka.

Akabari gacururizwamo ibinyobwa bitandukanye harimo n'ibisembuye, kitabirwa n'abantu benshi cyane, bakururwa n'insakazamashusho ishobora kuba yerekana, imikino ku buryo mu gihe cy'amarushanwa atandukanye abantu baba bakeneye kuyakurikirana bayitabiea.

Icyumba cy'ubucuruzi giteguye neza, hapanzemo intebe z'umukara zifite amaguru y'ibyuma, aho ziteretse n'aho umucuruzi aba ari, hari ameza ahatandukanya akunze kwitwa kontwari, ni ahantu heza, hafite amatara ahamurikira ku buryo bikurura abakiriya.

Umugabo wambaye tisheti n'ipantaro y'ikake n'inkweto bakarabiramo, bigaragara ko ari hafi yo mu rugo, aragana ahakorerwa ubucuruzi butandukanye, imbere y'inzu hari umutaka ucururizwamo serivise za emutiyene, inyuma y'uwo mutaka hari inzu nini y'ubucuruz, ishobora kuba icururizwamo ibinyobwa bisembuye, nka mitsingi.

Abantu babiri, umwe ni umugore wambaye umupira w'imbeho w'umweru, undi n'umugabo wambaye umupira wa tisheti w'umweru, batembereye ahantu ho kwirangariza bakurikiye ibiganiro binyura kunsakazamashusho yaho.

Ahakorerwa ubucuruzi bw'ibiribwa n'ibinyobwa haboneka urutondo rugaragaza ibyo ushobora kugura hagaragaza ibiboneka mu amafunguro nk'aya mugitondo hakagaragaza ibinyibwa bitandukanye bishobora kugurishwa bishyushye ndetse n'ibishobora kugurishwa bikonje.

Icyumba gikorerwamo ubucuruzi bw'inzoga zisembuye, kigaragaramo ameza ateretseho inzoga ifunguye, igice cyayo gisutse mu kirahure, bishoboka ko umukiriya wari urimo kunyinywa ahagurutse gato, kubera ko yizeye umutekano w'aho hantu.

Icyapa kinini cyane, cyamamaza inzoga ya sikoro, kiri mu ibara ry'umuhondo, cyandikishijeho inyuguti z'umutuku, gishushanyije ku rukuta ruri iruhande rw'umuhanda ushashemo amakaro, ku buryo buri wese unyura kuri uwo muhanda aba akireba.

Icyumba cy'ubucuruzi kirimo intebe ndende kenshi iba ireshya na kontwari, harimo n'utubati twagenewe gutandukanye aho abakiriya bahagarara naho abacuruzi baba bari. Imurukiwe n'amatara afite amabara atandukanye harimo ay'ubururu n'ay'umutuku.

Iterambere ririhuta cyane, aho usanga abantu bari bafite amazu batuye mo bayahindura ay'ubucuruzi, bagashyira ho icyapa kinini kigaragaza ibihakorerwa, ku buryo abinjiriza umusaruro bityo bagatera imbere mu bukungu.

Abantu babiri bicaye barebana batandukanyijwe n'ameza ateretseho inzoga yo mu bwoko bwa rikeri n'ikirahure gisutsemo inzoga nkeya, muri icyo cyumba hari icyapa kigaragaza inzoga zitandukanye zicururizwa muri iyo nzu n'ibiciro byazo.

Ahacururizwa inzoga inyinshi murizo zisembuye, hagaragara akabati kamurikiwe n'itara rimurika ku buryo buhagije. Imbere yako hari intebe umucuruzi yicaramo, kubera ko hari ubushyuhe yakuyemo ikote arimanika ku ntebe, mu gihe arimo gukora utundi turimo.

Fagitire y'ikoranabuhanga igararagaza urutonde rw'ibyo umuguzi yishyuye n'igiciro cya buri gicuruzwa, hanyuma ikagaragaza igiteranyo cy'amafaranga yose harimo ahabwa umucuruzi ndetse n'umusoro wa leta.

Icyumba gicururizwamo inzoga hashobora kuba harimo n'izisembuye kimurikiwe n'amatara afite amabara atandukanye yiganjemo umutuku, ibicuruzwa bipanze mumakaziye aho umukiriya ashobora kwihereza icyo ashaka igihe icyaricyo cyose.

Iyo akabari gacungirwa umutekano, ku buryo umukiriya ashobora gusuka inzoga akayisiga mu kirahure, akajya mu bwiherero cyangwa ahandi hantu atareba inzoga ye afite umutekano, aho hantu haba hizewe ku buryo abakiriya biyubashye bashobora kuhagana nta bwoba.

Icyapa cyamamaza ubucuruzi bw'ikigo kitwa Bicu kiri mu ibara ry'umuhondo n'umutuku kigaragaraho code igaragaraho ibicuruzwa bitandukanye by'icyo kigo. ni ikigo cyateye imbere kuburyo udafite ibikoresho by'ikoranabuhanga byabugenewe utabasha kuhagana kuko utabasha kumenya ibihacururizwa.

Icyumba gikorerwamo ubucuruzi bw'inzoga, kimurikirwa n'amatara apanze neza ku murongo akurikiranye. Nubwo ubungubu ataka kubera ko ari ku manywa ariko iyo bigeze nijoro barayacana ukabona amabara atandukanye ku buryo abakiriya bicara banezerewe bisanzuye.

Icupa ripfunduye ririmo inzoga yo mu bwoko bwa amstel igice kimwe gisutse mukirahure giteretse iruhande rwiryo cupa biteretse ku meza akoze mu bwoko bw'igiti gikomeye gihenda bigaragara ko aka kabari gafite umutekano kuberako uwayinkwaga ashobora kuba yagiye mubwiherero ntacyo yikanga.

Icyumba gikorerwamo ubucuruzi bw'imyenda, kigagaramo imyenda ipanze neza ku twuma twabugenewe, ikurikiranye ku buryo umukiriya abona uburyo bwo kuyitegereza. Harimo ifite amabara meza nk'umupira ufite ibara ry'icyatsi, ni mwiza ku buryo uwuguze wazagaruka.

Icyumba kinini gikorerwamo ubucuruzi bw'imyenda, kirimo imyenda ipanze neza ku twuma twabugenewe, irakurikiranye ku buryo umuguzi ashobora kuzenguruka icyumba cyose, areba imyenda y'amabara ikoze ku buryo butandukanye, ku buryo ahitamo akurikije ibyifuzo bye.

Amashati meza y'imyeru n'ay'umukara amasitse buryo bukurikiranye neza mu dukoresho twabugenewe. Dukoze mu biti n'utwuma two kumanika biragaragara ko ari ayo bita mede ini Rwanda ahenda cyane.

Ahakorerwa ubucuruzi bw'imitako yaba iya kinyarwanda n'iya kizungu hagaragara ibikoresho bitandukanye harimo ibibumbano bifite ishusho y'umuntu, byambikwa urwo runigi kuburyo ushaka kugura abyitegereza neza akabasha kugereranya agahitamo akurikije ibimushimishije.

Ubucuruzi bw'imyenda nabwo bwateye imbere, aho usanga amazu acururizwa imyenda aba ariho utwuma dupanzeho neza iyo myenda kuburyo bukurikiranye, kuburyo umukiriya atambuka akitegereza neza umwenda ashaka akawusuzuma, hanyuma akabona kwegera umucuruzi akishyura.

Icyapa gitatse mu buryo bea kinyarwanda gicurizwamo imyenda y'igitsina gore giteretsemo ameza asize irange ry'umweru, kigaragaramo n'ibindi bicuruzwa harimo nk'amatapi yo mu nzu ndetse n'yindi mitako y'ubwiza

Ubucuruzi bwose bwateye imbere hakubiyemo n'ubucuruzi bw'imodoka. Iyi sosiyete yitwa Hyundai icuruza imodoka ifite icyumba kinini cyagenewe guparikamo imodoka zo gucuruza aho abakiriya bazishaka bazisura umunsi ku wundi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu.

Imodoka ifite ibara ryijimye yo mo mu bwoko bwa merisedesi benzi, bigaragara ko ikiri nshyashya kuko itarahabwa ikirango cyangwa purake, igaragara ku isoko ry'imodoka rikorera ikigali mu Rwanda.

Aha hacururizwa imodoka nshyashya, hari n'igaraje itangirwamo serivisi zitandukanye ku modoka zisanzwe zikora, zikagarura ubushyashya ku buryo umuvuduko wazo wiyongera cyane.

Imodoka igurishwa iparitse iruhande rw'ubusitani burimo ibiti birebire bitoshye, hejuru y'iyo modoka hamanitse icyapa kigaragaza ko igurishwa, kikagaragaza ubwoko bwayo n'igiciro igurishwaho ko ari miliyoni mirongo itanu.

Imodoka y'ivuwatire iri kuri iki cyapa ifite ibara ry'umweru ni nzizaza bigaragara ko ikiri nshya itarahabwa ikirango cyitwa pirake bishoboka ko ari muzimaze igihe gito zamamazwa bita iburide zikoresha umuriro na esanse icyarimwe.

Ahagenzurirwa ko imodoka zifite ubuziranenge, haba hari ibikoresho byabugenewe, byifashishwa mu kuzamura imodoka ikajya hejuru ku buryo umukanishi ubifitiye ubuhanga ajya munsi yayo, akagenzura neza ko moteri ari nzima ku buryo itateza impanuka, ikabona kwemererwa kujya mu muhanda.

Abantu bubaka amazu y'ubucuruzi manini baba bafite ibyerekezo bitandukanye, nk'uyu muntu wubatse inzu ifite igice cyo hejuru gisize irange ry'umutuku bigaragara ko hagenewe gukorerwa imurikabikorwa ry'ibigo bitandukanye nk'ibingibi bimanitse amabendera y'ubururu n'ay'umweru mu kibuga giparitsemo imodoka zitandukanye z'abakiriya.

Inzu yubatswe mu buryo bugezweho ifite icyumba cyagenewe kubikamo imodoka gisanzwe kizwi nka parikingi ubundi kenshi igaragara hanze, ariko iyi ngiyi yubatse neza yi isize amarangi y'umweru n'ubururu imurikiwe n'amatara abonesha neza ndetse no hasi hashashe amakaro ku buryo wagira ngo ni icyumba cyo kuraramo.

Imodoka nziza ifite ibara ry'umukara bigaragara ko ikiri nshyashya kubera ko itarahabwa plaque ziyiranga, iparitse ahabugenewe imbere y'inzu isize amarangi y'umweru ifite amadirishya asize irangi ry'ubururu.

Umukozi utanga serivisi zo kubitsa no kubikuza amafaranga, ni umugabo wambaye ishati y'imirongo irimo amabara y'umweru, afite icyuma kimufasha kubara amafaranga no kumenya niba ayo mafaranga ari mazima, iyo amaze kuyabara ayafunga neza mu byiciro bitandukanye akurikije ubwoko bwa buri noti.

Ameza ariho ibiceri bibiri byakoreshejwe mu Rwanda guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda bishushanyijeho ibintu bitandukanye kimwe gishushanyijeho ishaka ikindi gishushanyijeho ikawa byose n'ibihingwa biboneka mu Rwanda bihuriye ku kuba byose byanditseho amagambo avuga ngo banki nkuru y' u Rwanda.

Ubucuruzi bwifashisha ikoranabuhanga bwa buri munsi bukubiyemo ubuzwi ku izina ry'amabanki aribwo bucuruzi bw'amafaranga bukoresha ibikoresho byinshi bya eregitoronike ndetse n'uburyo buhambaye kugirango amafaranga abe afite umutekano.

Ahatangirwa serivise zo kubitsa no kubikuza n'amabanki atandukanye, hagaragara ikirahure kinini, gisukuye neza, gutadukanya umukozi w'icyo kigo, n'umukiriya yakira. Icyo kirahure gishobora kuba gikoreshwa mu buryo bwo kwirinda umwanda ndetse no gutangira abajura.

Umugore w'umusiramukazi witeze igitambaro kirimo amabara y'icyatsi n'umukara wambaye ipantaro y'umutuku, afite isuku ku buryo uguze amata aho acururiza wazagaruka ntakabuza.

Ahakorerwa ubucuruzi n'ikigo gicuruza amata gikorera mu Rwanda cyitwa Inyange hagaragara ibikoresho bitandukanye cyane cyane icyuma cyigenewe kubika no gukonjesha amata ntigishobora kuhabura, hagaragara kandi ibikoresho bitandukanye birimo amata nk'utujerekani dutoya ndetse n'ibindi bicuruzwa nk'amazi afunze mu macupa manini ya litiro makumyabiri.

Icyumba gicururizwamo amata kirimo ameza atwikirije igitambaro cy'umutuku. Hari umugabo waje kugura amata wambaye umupira w'umweru ufite amaboko y'umukara, wishimiye cyane kunywera amata mu kirahure kinini gifite umukondo.

Inzu icururizwamo amata irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa muri ubwo bucuruzi, harimo nk'iriya ndobo y'umutuku, ijage, ijerekani y'umuhondo n'ibindi, yubatse iruhande rw'igiti kinini cy'umuko bigaragara ko itari mu mujyi rwagati.

Ku ruhande rumwe rw'ameza manini asize irangi ya shokora, hateretse agapaniye karimo urupapuro rw'isuku rufite ibara ry'umweru, ku rundi ruhande rw'ayo meza bigaragara ko hateguriwe umukino ushishikaje, witabirwa na benshi mu bagana aha hantu.

Umugabo muremure wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'ubururu bwijimye, arasuka amata ayakura mu gicuba bayatwaramo, ayasuka mu cyuma kigenewe kuyabika no kuyakonjesha kugira ngo azajye acuruzwa buhoro buhoro.

Icyumba gisize irange ry'ubururu gicururizwamo amata n'ibindi binyobwa n'ibiribwa byoroheje kigaragaramo n'indobo ifite ibara ry'ubururu ipfundikiye neza ishyirwamo imyanda ikaza kujugunywa mu cyobo kinini cyabugenewe.

Amagi atatu ashobora kuba atetse ari ku isiniya y'umukara ipfumaguye ku mpande iteretse ku meza asize irangi ry'umweru, atondetse ku buryo ategeranye ku buryo ufashe rimwe utakoma irindi.

Capati nyinshi ziteretse ku isahane y'umweru ifite amabara y'umutuku n'ubururu, ziraryoshye, zirahiye neza, bazikora mu ifarini ariko kugirango zibe umuhondo kandi uburyohe bwazo bwiyongere, bongeramo amagi, amata, isukari ndetse nakunyu gake.

Iki cyuma gicururizwamo amata n'ibiyakomokaho kirimo ibyapa byamamaza ubwo bucuruzi ibikoresho bitandukanye byifashishwa harimo; utujerekani, icyuma kibika amata kikanayakonjesha, intebe n'ameza abakiriya bifashisha biragaragara ko ubucuruzi bw'amata butavangwa n'ibindi bintu.

Mukamira ni ikigo cy'ubucuruzi bw'amata n'ibiyakomokaho, kimaze kwaguka cyane, ku buryo ubucuruzi bwacyo bugaragara ahantu hatandukanye, haba mu mugi wa Kigali ndetse no mu mijyi mitoya yungirije Kigali nubwo baje nyuma y'amata y'inyange ariko nabwo bumaze gusakara cyane.

Amata y'ikigo inyange, acururizwa ahantu hatandukanye, aba ari mu bikoresho bitangana, hari ari mu tujerekani tw'umweru dupfundikije imifuniko y'umweru, ari mu dukarito turiho amabara y'ubururu n'ay'umweru ariko byose birangwa n'icyapa cyanditseho inyange.

Ahacururizwa amata y'inyange hagaragara icyapa kinini cyamamaza ayo mata, hakagaragara intebe n'ameza bicaraho banywa amata hanze, imbere mu nzu bishoboka ko habikwa amata, hakaba n'igikoresho cyabugenewe kandagira ukarabe gituma abahinjira baba bafite isuku.

Muri rusange ubucuruzi bw'amata n'ibiyakomokaho akenshi bukorwa n'abantu b'igitsina gore, ariko by'umwihariko kuri iki cyapa haragaragara umugabo wambaye umupira utukura wijimye ukora ubwo bucuruzi, bigaragara ko icyo cyumba kirimo isuku, bigaragara ko n'abagabo bashoboye uyu murimo.

Umukobwa wambaye umwenda w'akazi ufitemo ibara ry'ubururu n'umuhondo, aravugira kuri terefone mu gihe ategereje ko bamushyikiriza amata yaje kugura, birashoboka ko asanze ibiciro byahindutse akaba arimo kumenyesha nyirabuja kugira ngo amwoherereza ayandi mafaranga yifashishije ikoranabuhanga rya mobayiromani.

Ahacururizwa amata haba hari icyuma kigenewe kuyabika no kuyakonjesha, hagaragara n'ibindi bikoresho, nk'iyi ndobo y'umweru ibonerana ipfundikiye irimo keke ikunda kuba ihari iteretse ku meza iruhande rwayo hari udukoresho tw'isuku ku buryo abaje kugura amata bagura na keke bagafatisha.

Icyumba gisize amarange y'umweru n'ubururu, kirimo etajeri na yo isize irange ry'umweru, ipanzeho ibicuruzwa bitandukanye, bidasindisha, birimo amazi, fanta, imitobe, n'ibindi, byose ni ibicuruzwa byitabirwa n'abantu b'ingeri zitandukanye.

Ikibuga kiri imbere y'inzu ishashemo amakaro giparitsemo ipikipiki, igare, hari abantu batandukanye barimo kuhagenda harimo abagabo n'abagore, bigaragara ko bikiri mu masaha ya mugitondo, ku buryo abacuruzi bataraza ngo bakore isuku aho bacururiza.

Ahakorerwa ubucuruzi bw'amata n'ibindi binyobwa bidasembuye hitabirwa n'abantu batandukanye akenshi bafite intege nkeya ku buryo iyo hakora umukobwa cyangwa umugore nk'uyu ugaragara kuri iyi foto wambaye ikote ry'umukara ufunze umusatsi neza batanga serivisi neza bikorohera abahagana.

Ahacururizwa ibinyobwa bidasembuye, ushobora kuhasanga ibinyobwa byoroheje bitandukanye, nk'amata y'inka afunze mu tujerekani, yahurute zifunze ku buryo butandukanye ndetse n'amazi ya niri afunze mu macupa ya purasitike maremare afite icyapa cyanditseho niri.

Ikigo cyamamaza ubucuruzi bw'ikigo Inyange, kigaragaza ibicuruzwa bitandukanye birimo amata afunze mu majerekani manini ya litiro makumyabiri n'afunze m'utujerekani duto. Amazi yafunze mu macupa manini ya litiro makumyabiri n'abafunze mu macupa matoya n'imitobe y'imbuto zitandukanye harimo izera mu Rwanda n'izera mu Mahanga.

Abakiriya babiri bataziranye, batanazanye, bashobora kwicara ku meza amwe mu gihe bagiye ahacururizwa amata. Uhacuruza abaseriva akurikije uko baje, akabanza uwaje mbere, undi akaba ategereje.

Mu byumba bicururizwamo amata haba hari ameza n'intebe aho abakiriya bicara bakanywera batereka ku meza. Iyo bamaze kunywa baragenda, umucuruzi niwe ufite inshingano yo kubyandurura akabikorera isuku ku buryo abandi bakiriya ni baza abona ibyo akoresha.

Amata ni ikinyobwa cyihariye. Akundwa n'abantu benshi kubera akamaro kayo, anyobwa ari mu kirahuri kinini, kibonerana, gifite umukondo, ku buryo uyanyoye aryoherwa akumva yakwiyongeza.

Ahakorerwa ubucuruzi bw'amata n'ibiyakomokaho, bukorwa n'ikigo kitwa royofureshi mirike, hagaragara ibicuruzwa bitandukanye harimo amata, yahurute n'ibyapa byamamaza bigaragaza ubwiza bwayo n'ingaruka agira ku bayanyoye.

Ahacururizwa amata ya Mukamira, hagaragara n'ibindi binyobwa byoroheje birimo nk'amazi, imitobe y'imbuto, byose byitabirwa n'abantu batandukanye bashobora kwishyura amafaranga kashi cyangwa se bifashishije ikoranabuhanga.

Amazi ya Nil n'amazi meza yo kunywa aba afunze neza mu macupa apfundikije imifuniko y'ubururu. Bigaragara ko yitabirwa cyane kubera ko hari igihe umuntu agura amacupa menshi, bikaba ngombwa ko apfunyikirwa muri amverope ya kaki abasha gutwara kuburyo bumworoheye.

Umugabo wambaye isengeri, ipantaro y'umukara n'inkweto z'umutuku, ari kumwe n'umwana we, bari mu kazu gasize amarangi y'ubururu gacururizwamo mata n'ikigo Inyange, barereka umukozi uhakora ko bamaze kwishyura bakoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga.

Ameza y'igiti ateretseho utu bogisi turimo imbuto zihase zikase ku buryo zishobora guhita ziribwa, ku ruhande rwazo hari imineke idatonoye ku buryo umukiriya aba afite uburenganzira bwo kwihitiramo, ni igihamya cy'ukuntu ubucuruzi bumaze gutera imbere mu Rwanda.

Amasambusa menshi meza, aryoshye, ahiye neza, atetse mu ifarini, inyama, ibitunguru, haba harimo n'agasenda gake, ateretse ku isahane nini ifite forume y'uruziga n'irangi rya aluminiyumu.

Icyumba gicururizwamo ibinyobwa bidasembuye, bipanze neza mu kabati kabugenewe, gafungishije ikirahure gasize amarange y'ubururu, ni umweru, bibitse neza ku buryo bugaragara, ni uburyo bwo kwamamaza bukurura abakiriya.

Icyumba gicururizwamo amata n'ibiyakomokamo, gitatse mu buryo bwa kinyarwanda, gicururizwamo n'umukobwa ufite agasatsi gakeya, ambaye impuzankano y'akazi, ifite ibara ry'umweru, yicaye neza, yiteguye kwakira abamugana.

Umuntu wambaye ishati y'umukara ari mu cyumba kimanitse mo ibitambaro by'umweru n'icyatsi, arasuka amata ayakura, mu ijerekani, ayashyire mu birahure byabugenewe, ni ibirahure birebire byiza bifite imikondo, nibyo bikunda gukoreshwa banywa amata.

Ikirahure kinini kirekire gifite umukondo cyuzuye amata giteretse ku meza atwikirije umwenda ukoze mu gitenge, aya mata araryoshye ariko ashobora kuba ari ikivuguto kubera ko iyaba inshyushyu yari kuba yabogotse ukurikije ukuntu yuzuye cyane.

Hari ahacururizwa amata y'inka uhasanga ibikoresho biciriritse hari nk'ameza n'intebe za purasitiki nk'izi z'umweru zigaragara muri iki cyumba, hari abahitamo kunywera amata aho ngaho, bagasomeza keke cyangwa se bakayatwara mu rugo mu tujerekani twabugenewe turiho ibyapa byamamaza.

Isambusa zitetse neza zihiye zikoze mu nyama n'ifarini ziri ku meza y'umweru harimo ebyiri zikiri zose n'ebyiri zariweho bishoboka ko abana iyo bariye urusenda rwo m'isambusa bahita bacira bakazireka

Ahacururizwa amata y'inyanza hagaragara ibyapa bifite amabara y'umweru ushobora kwitiranya n'ikindi kigo gicuruza amata mu Rwanda cy'Inyange, ariko biba bitandukanye kuko buri cyapa kiba gifite izina rigaragaza amata gicuruza ku buryo k'umuntu ujijutse uzi gusoma ntakwibeshya kwabaho.

Amandazi arikwisahane, atetse neza biratangaje kubona ukunu yose ahiye ku rugero rumwe akoze mwi ifarini amagi, isukari ndetse harigihe bongeramo n'akunyu gake.

Umukobwa mwiza w'umuyumbu wambaye ikote ry'amabara yicaye ahantu mu cyumba kirimo amakaro, yicaye iruhande rw'ameza arambitseho amaboko aritegereza cyane mu kindi kerekezo cyo hirya.

Iyamamazabikorwa ry'ibicuruzwa ni uburyo bwiza cyane, bugira ingaruka bugatuma abacuruzi bunguka cyane cyane iyo bikozwe n'abantu b'igitsina gore baseka neza bakamwenyura bituma abakiriya babwitabira mu buryo bwagutse.

Ahacururizwa ibicuruzwa bitandukanye by'ikigo INYANGE harimo amata, imitobe, amazi, hagaragara n'ibindi bijyana n'ibyo binyobwa nk'amandazi na capati kuburyo uhaguriye abibona byose atagombye kujarajara.

Icyumba gicururizwamo amata kigaragaramo ibikoresho byihariye bikoreshwa muri ubwo bucuruzi bikoze ku buryo butandukanye. Hari ikibwase n'ikirambuye, byose biri mu cyumba gisize amarange y'umweru, gishashemo amakaro nayo afite ibara ry'umweru.

Ahacururizwa amata, hakorerwa imirimo itandukanye harimo iyoroheje n'ikomeye, nk'iyo gukura mata mu bicuba nyasuka mu cyuma cyagenewe kuyabika no kuyakonjesha ku burya bisaba ko umuntu w'umugabo ufite imbaraga nyinshi ari we ukora aka kazi.

Icyumba gicururizwamo ibikomoka ku mata, kiba gitunganijwe ku buryo bw'umwihariko. Nk'iki ngiki turabonamo igikoresho cyabugenewe kibika ibyo binyobwa ku buryo bipanze, bigaragara neza gishobora kuba gifite n'uburyo bwo kubikonjesha kuburyo bitangirika.

Mu bucuruzi bw'amata n'ibiyakomokago, by'ikigo mukamira, hagaragaramo yawurute ihumuramo inkeri, nk'uko bigaragara kuri iki cyapa kiriho ibintu bitandukanye nk'amagambo mukamira yandikishije umweru, ndetse n'inkeri nk'urubuto igaragara mu ibara ry'umutuku.

Amazi yo kunywa ya Nili, ni amazi meza akorwa n'ikigo surufo gikorera mu Rwanda, aba afunze mu macupa manini y'ilitiro n'inusu nk'uko bigaragara kuri iki cyapa ni amazi meza atunganyijwe kandi aba yongewemo imyunyungugu ku buryo agirira akamaro abayanyoye.

Icyumba gikorerwamo ubucuruzi bw'amata n'ibindi byoroheje bijyana nayo nk'amandazi, capati, keke, imineke, amagi n'ibindi. Hagomba kuba hari akadobo kagenewe gushirwamo imyanda kagashyirwa ku ruhande ahantu hategeranye n'ibindi bicuruzwa.

Ibicuba bitwara amata biteretse neza ku murongo byose birapfundikiye bifite isuku, bigaragara ko bishobra kuba byuzuye amata, bikaba bitegereje gutwarwa aho amata acururizwa hifashishijwe imodoka.

Icyapa cyamamaza umutobe w'imbuto, kigaragaza amatunda nk'imbuto zikorwamo uwo mutobe, kikagaragaza ikigo gicuruza uwo mutobe, kikanagaragaza ingano y'umutobe ufunze muri iyo paki.

Umugore w'inzobe usutse imisatsi wambaye imyenda y'ibitenge yicaye iruhande rw'ameza mu cyumba gicururizwamo fanta n'amata imbere ye hari udukoresho twabugenewe tw'isuku ku buryo adukoresha atagombye guhamagara.

Ibicuba bitandatu bitwarwamo amata, bitondetse neza ku murongo mu cyumba gisize irange ry'umweru ahakorerwa ubwo bucuruzi, hirya y'ibyo bicuba hari utujerekani tumwe duteretse, utundi rurambitse hasi tubikwamo ayo mata ariko ntibarayasukamo.

Icyumba gicururizwamo amata kiragaragaramo icyuma kigenewe kukonjesha no kubika amata mu buryo bwizewe ku buryo ashobora kumara iminsi atangiritse, icyumba ubwacyo nacyo gifite isuku gifite amakaro meza y'umweru ku buryo rwose haramutse hari n'umwanda wahita ugaragara.

Ameza atwikirije igitambaro gifite amabara y'umweru n'ubururu, ateretseho agakarito gashyirwamo amagi, hejuru y'ako gakarito hari ishashi irimo imikati yakoreshejweho. Byose biri mu cyumba cyubakishije imbaho, hagati y'izo mbaho hasize irange ry'umweru.

Kake zigerekeranye ku isahane y'umweru, iteretse ku meza afite ibara ryijimye, zikoze mu buryo bwihariye, aho agapapuro umuntu ashobora gufata akarya atayikozeho yashira akakajugunya, kaba kari kuri buri keke rwose ni uburyo bwiza bubungabunga isuku.

Umwana muto w'inzobe ufite agasatsi gacye, aritegereza cyane aho mama we ari buturuke, yamabye isarubeti bararana. Inyuma ye hari abagabo babiri bambaye imyenda y'umutuku, barimo kumwitegereza uburyo yarangaye.

Icyuma kibika kikanakonjesha amata ku buryo ashobora kumara igihe kirekire, giteretse mu cyumba gifite urukuta rwubakishije amatafari ahiye. Ni igihamya cy'uko ubucuruzi bw'amata budasaba ahantu hahambaye cyane, icy'ingenzi ni isuku ahasigaye ugacuruza ukunguka.

Imashini itanga umuyaga, iteretse mu cyumba kirimo amakaro, hasi no ku nkuta. Bishoboka ko hakorerwa ubucuruzi bwagutse bw'inyama, ibyuma bikonjesha bikanabika inyama kugira ngo zimare igihe kirekire, bikenera umuyaga kugira ngo moteli zabyo zitangirika.

Ubucuruzi buciriritse bukubiyemo ibintu byinshi bitandukanye, kuri iyi foto turabona ubucuruzi bw'amata n'ibiyakomokaho ndetse bacuruza n'amazi ya Nili afunze mu macupa ya litiro n'igice, amata afunze mu tujerekani twa litiro eshanu ndetse na yahurute zifunze mu buryo butandukanye.

Umusore ufite umusatsi muke ushokoje neza wambaye ishati n'ipantaro by'ikaki acuruza amata, ayacururiza mucyuma cyabugenewe aho amata ayashyira mw'ijage mbere yo kuyasuka mukajerekani kugirango atabogoka. N'igihamya cy'uko baba abagabo cyangwa abagore bose bashobora gukora imirimo imwe kandi ikagenda neza.

Ubucuruzi buciriritse nk'ubucuruzi bw'amata, ubw'amazi, amandazi na keke bushobora gukorerwa mu nzu isakaye cyangwa hanze iyo atari igihe k'imvura.

Icyapa cyamamaza ubucuruzi bw'amata y'inyange, ni ubucuruzi buboneka ahantu henshi hatandukanye. Ibyapa byabwo biba bimanitse ahantu hirengeye kuburyo ubibona ugituruka kure, bikagushishikariza kugura ayo mata.

Icyapa cyamamaza amata y'inyange, ni amata aryoha, afite intungamubiri, bigaragara ko umwana wayanyoye amera neza , arabyibuha, afite umusatsi mwiza ndetse n'uruhu rwiza muri rusange.

Iyo umukiliya aje kugura amata aho acururizwa, ashobora kuyahabwa mu kirahure, kimwe n'uko ashobora kuyahabwa mu kajage noneho akajya agenda yisukira mu kirahure yashiramo akiyongera.

Abagabo babiri bahagaze mucyumba gicururizwamo amata barafatanya gusuka amata bayakura mu gicuba bayatwaramo bayasuka mucyuma kigenewe kuyabika no kuyakonjesha nk'uburyo bwiza bwifashisha kugirango amata amare igihe kirekire atangiritse.

Umudamu ukuze mu myaka, witeze igitambaro kirimo amabara y'umukara n'icyatsi, wambaye ishati y'iroza n'ipantaro y'umutuku, acuruza amata, aba afite akanyamuneza, bikagaragaza ko iyo umuntu akuze ariko ntiyicare agashaka ibimuhuza, akomeza kugira itoto nk'aho yaba akiri muto.

Icyuma kigenewe kubika no gukonjesha amata kibamo umutozo ukoze mu cyuma uhora uzenguruka muri ayo mata bikayabuza kuvura kugira ngo anyobwe ameze neza.

Amata y'inshyushyu ari mu kirahure kirekire gifite umukondo, ateretse ku meza afite ibara ry'umweru, iruhande rw'isaha nayo ifite ibara ry'umweru bigaragara neza kubera ko bisa n'ibara ry'amata.

Umwana w'umuhungu yambaye umupira w'ubururu, arasuka amata mu kajerekani k'umweru yifashishije umubirikira w'ubururu, ni uburyo bwiza bwo gusuka, butatuma amata ameneka ku ruhande.

Umugore wambaye ikanzu itukura idoze mu gitenge, ucuruza amata aba muri iki cyuma kigenewe kuyabika no kuyakonjesha avugana n'ushinzwe gukora isuku arebera mu kadirishya gatoya bigatuma abasha kubungabunga isuku.

Icyumba giteretsemo ibikoresho bitandukanye, harimo icyuma gikoreshwa mu gukonjesha ibiribwa n'ibinyobwa, harimo ameza asize irangi ry'umweru hejuru, afite amaguru y'umukara, n'intebe zifite imisego n'amaguru y'ibyuma.

Amata ari mu gikombe cy'umweru, kuyanywa birashimisha akenshi bayasomeza keke cyangwa umukati, bakuwufatisha ikanya, cyangwa se bakarisha intoki.

Capati zitetse neza ziri ku isahane ifite ibara ry'ubururu iteretse ku meza, ziraryoshye kuko zigaragara ko zihiye neza zikaba zikoze mu ifarini, inyama akenshi tuzi ko ziba zirimo agasenda n'ibindi birungo bizongerera uburyohe

Amajerekani abikwamo amazi yo kunywa, ya pulasitike apfundikije imifuniko y'umweru, apanze neza ahantu habugenewe hagati y'inzugi bigaragara ko uyu mucuruzi azi kubyaza umusaruro inyubako ye kubera ko nta gace na gato gapfa ubusa.

Icyumba gicururizwa mo amata y'i Nyanza kiba gipanze ku buryo busobanutse, aho buri gikoresho kigira aho kibikwa, hari akabati kabikwamo nk'amajerekani atwara amata, hari icyuma kibika kikanakonjesha amata, n'igihande cyagenewe ahajya intebe n'ameza abakiriya bicara.

Icyumba gikorerwamo ubucuruzi bw'amata ya Mukamira, kigaragara ko ari icyumba giciriritse, kirimo ibikoresho bike by'ibanze bikenerwa nk'icyuma kibika amata kikanahakonjesha, etajeri ibikwamo ibikoresho cyangwa se ibindi binyobwa n'ibiribwa, bigaragara ko abantu batandukanye bashobora gukora ubwo bucuruzi.

Amajerekani acururizwamo amata agaragara neza apanze mu kabati kabugenewe, atondetse neza ku buryo bukurikiranye kuburyo rwose wayareba unaturutse kure byaba ngombwa ukayabara bitagoranye.

Icyumba gitangirwamo serivise yo gusukura imyenda n'ibindi bikoresho byo mu nzu, nta bintu byinshi bihagaragara usibye imashini ifura iteretse neza muri icyo cyumba ahantu hatagira ikiyikoma ndetse n'ameza bakiriraho abakiriya.

Icyumba gikorerwamo ubucuruzi bw'ibinyobwa n'ibiribwa byoroheje bipanze mu kabati kabugenewe gafite ibara ry'ubururu biteretse iruhande rw'icyuma kigenewe kubika no gukonjesha ibyo binyobwa kuburyo ubikoresha aba yizeye ko ari bizima.

Uko ubucuruzi bugenda baguka hagenda havuka uburyo bushyashya bwo kubunoza, nk'uyu mucuruzi w'amata akoresha uburyo bwo kwandika amazina yabo agemurira ku tujerekani, ku buryo buri mukiliya aza areba akajerekani kanditseho izina rye, akamenya ko abakiliya bose yagombaga kugemurira babonye ibicuruzwa.

Amandazi menshi akoze mu ifarini n'amagi n'amata n'isukari n'umunyu bayatetse neza arashya atangira kwisatura, kugira ngo wumve uburyohe bwayo byasabye gusatura rimwe ashunaho yumva ukuntu riryoshye n'uburyo bwiza bushishikariza umukiriya kugura.

Umugabo muremure cyane wambaye ishati ya karokaro n'ipantaro y'umukara, ahagaze mu cyumba gicururizwamo ibinyobwa bidasembuye bicuruzwa n'umukobwa wambaye ijaketi y'ikoboyi n'ikanzu y'icyatsi, ukingirijwe n'aka etajeri kagenewe gutandukanya umucuruzi n'abakiriya.

Amata y'inyange acururizwa ahantu habugeneweabikwa mu byuma bigenewe kuyabika no kuyakonjesha akenshi biba byometseho ibyapa byamamaza ubucuruzi bw'iki kigo Nyanza miliki indasitirizi ibyo byuma bigira akantu hejuru kagaragaza igipimo cy'ubushyuhe ku buryo ayo mata atakwangirika.

Icyumba gicururizwamo amata y'inyange, mu cyuma cyabugenewe kiyakonjesha kikanayabika igihe kirekire hagaragaramo n'ibindi bicuruzwa by'icyo kigo nk'amazi, yahurute, n'ibindi.

Amapaki y'imikati iri mu bipapuro byabigenewe iteretse ku meza atwikirije igipapuro gifite amabara y'ubururu n'umweru, bigaragara ko ikiri mishyashya kubera yuko iyo ishaje itangira kuzana uruhumbu.

Umugore usutse umusatsi, wambaye amarinete, wifubitse agatambaro gatukura mu ijosi, yambaye agashati k'umuhondo n'ipantaro y'ubururu aragenda mu kibuga gishashemo amapave, hafi ye haparitse imodoka ifite ibara ry'umweru icyo kibuga kiri imbere y'inzu ikorerwamo ubucuruzi ifite imiryango myinshi.

Ameza koze mu giti gikomeye ariko atangiye gusaza kuko bigaragara ko yagiye akoboka, ateretseho agakoresho kabugenewe karimo impapuro z'isuku ziri mu gapapuro k'ubururu ku buryo nta myanda ishobora kuzigeraho kuko n'ubundi zikoreshwa twirinda umwanda.

Icyapa cyamamaza ubucuruzi bw'amata ya Mukamira cyometse kukabati gatanduka abakira n'abacuruzi b'icyo kigo, hejuru yayo meza hateretse, amakarito arimo ibicuruzwa bitandukanye harimo amata n'ibiyakomokaho.

Amagi atondetse ku dukarito tubiri tugerekeranye twabugenewe natwo duteretse ku meza atwikirije igitambaro gifite amabara y' ubururu n' umweru aya magi ni meza biragaragara ko umureti wayo waba uryoshye cyane.

Ahacururizwa amata ya Nyanza, hagaragara ibyuma bikoreshwa mukuyabika no kuyakonjesha, mu cyumba bikorerwamo hagomba kuba harimo amashanyarazi, kugira ngo ubwo bucuruzi bubashe kugenda neza, ibicuruzwa bibikwe igihe kirekire bitangiritse.

Udukarito duterekwaho amagi dufite ibara ry'icyatsi dutondetse neza kumeza, ku buryo amagi adakoranaho ngo abe yameneka, ni uburyo butangaje kubera ukuntu ubundi amagi aba yoroshye ariko iyo atondetse neza kuri utu dukarito atwarwa ntampungenge.

Inzu icururizwamo amazi y'ibigo bitandukanye, agaragaramo nka jibu. Ni icyumba kinini gishashemo amakaro, gifite umuryango usize irange ry'ubururu, harimo icyuma kigenewe kubika no gukonjesha amazi n'ibindi binyobwa bicururizwamo.

Icyumba kicururizwamo amata kigaragaramo ibikoresho bitandukanye byoroheje nk'ameza y'igiti hirya hari ayandi atwikirije igipapuro gifite amabara atandukanye. Amata bayanywera mu birahure binini bifite imikondo ndetse bagafata n'utundi tuntu tworoheje nka keke bagasomeza.

Umukobwa wambaye ipantaro yijimye n'ishati ya karokaro aritegereza icyapa kimanitseho ibiciro biragaragara ko ari mushyashya aragirango abone icyo asubiza umukiriya umubajije igiciro cy'amata.

Umugore wambaye imyenda y'ibitenge yicaye mu cyumba gicururizwamo amata ku ruhande rwe hari icyapa kinini cyamamaza fanta ya koka hirya nanone hari icyuma kibika amata n'intebe zifite ibara ry'ubururu n'umweru.

Ubucuruzi bukorwa mu buryo butandukanye, hari ibicuruzwa biba bipanzwe mu kabati umukiriya ahita aherezwa, hari n'ibindi byamamazwa ku cyapa ku buryo umukiriya akora komande bigategurwa mu gihe kitari kinini.

Ameza manini asize irange ry'umweru ateretse mu cyumba kitabona neza, hejuru y'ayo meza hateretse agacupa karimo uditi dukoreshwa umuntu amaze kurya, arimo kwihaganyura ngo akure imyanda mu menyo.

Ahacururizwa amata, akenshi anyobwa ari mu birahure binini bifite imikondo, haboneka n'ibiribwa byoroheje, birimo nk'imyumbati itogosheje n'ibishyimbo kuburyo ubiriye akanywa n'amata agira imbaraga.

Icyumba gikorerwamo ubucuruzi bworoheje, ahacururizwa ibinyobwa nk'amata, icyayi ubisanga mu byuma byagenewe kubibika kugirango bikomeze kuba bishyushye. Kuruhande rwabyo hateretse akadobo gato kabonerana karimo capati byose biteretse ku meza afite ibara ry'ubururu.

Icyumba gikorerwamo ubucuruzi bw'amata n'ikigo inyange, kiba gifite isuku, gikeye, kirimo ibikoresho bitandukanye nk'icyuma giteretse neza gikoreshwa mu kubika no gukonjesha amata n'ibindi bikoresho byifashishwa kugira ngo hataba umwanda nk'umubirikira usuka amata n'akadobo gatoya gakoreshwa mu gukora isuku.

Icyapa cyamamaza ubucuruzi bw'ibikomoka ku mata, kiragaragaza ukuntu yahurute ari nziza no ku bana batoya, nk'uyunguyu bigaragara ko atabasha kwifasha igikombe, ku buryo umubyeyi agomba kumufatira.

ameza aramuyeho igitambaro kidoze mu gitenge gifite amabara menshi ateretseho isahani ifite amabara y'umutuku, icyatsi, n'umweru iriho irindazi n'agatambaro ko kwifashisha urifata.

Icyuma gikonjesha amata kinayabika kugira ngo amare igihe kirekire, bishoka ko gikoresha umuriro mwinshi, ku buryo umucuruzi aba agomba guhora areba kuri kashi pawa, kugira ngo umuriro udashiramo amata akangirika.

Abitabira ahakorerwa ubucuruzi buciriritse, burimo ubw'amata abikwa mu byuma byabugenewe, n'ibindi binyobwa bidasindisha, hitabirwa n'abantu batandukanye harimo urubyiruko, bashobora kwishyura kashi cyangwa se bakishyura bifashishije ikoranabuhanga.

Ahacururizwa ibikomoka ku mata hagaragara ibyapa binini biha ikaze abakiriya bikerekana ibihakorerwa bikorerwa mu inzu akenshi zisize amabara y'umweru ni uburyo bwiza bwo kwerekana ukuntu amata arangwa n'isuku.

Icyumba gicururizwamo amata gisize amarange y'ubururu n'umweru kiragutse ku buryo ubona buri gikorwa cyagenewe umwanya wihariye, hari ahicaye umukiriya urimo kunywa amata, ahateretse igikoresho kibika kikanakonjesha amata, aho umucuruzi aba yicaye inyuma ye hari akabati gatondetsemo amata kuburyo bugaragara neza.

Iyo usuye urubuga rw'ikigo gicuruza cyifashishije ikoranabuhanga, ubona ahakwereka uburyo bwo kwishyura, hejuru yaho haragaragara igiciro cy'igicuruzwa, bigaragara ko iyo winjiye muri ubwo buryo bagusaba ijambobanga, hanyuma amafaranga akava kuri konti yawe ya mobayiro Mani.

Icyapa cyamamaza ubucuruzi bw' ikigo gitanga itumanaho mu Rwanda Airtel, kigaragaza uburyo ubu wagera kuri zimwe muri serivise gitanga, kikabigaragaza intambwe ku yindi kubutyo udashobora kwibeshya kugeza umaze kwishyura.

Icyapa cyamamaza ubucuruzi bwifashisha ikoranabuhanga, kigaragaraho ibintu bitandukanye, hariho nk'igiciro k'igicuruzwa, ubwoko bw'ibicuruzwa, ndetse n'uburyo wakoresha ukajya ukurikirana ubucuruzi bw'icyo kigo umunsi ku wundi.

Imbuga zamamaza ubucuruzi bwifashisha ikoranabuhanga, bugaragaza n'uburyo bwo kwishyura ndetse n'amafaranga akoreshwa nko kuri uru nguru bigaragara ko ibicuruzwa byose byishyurwa mu madolari ya leta zunze ubumwe za Amerika.

Uburyo butangwa n'ikigo gicuruza ibijyanye n'itumanaho mu Rwanda eyateri, bugufasha kugura mega zo gukoresha kuri interinete mu buryo busobanutse neza, aho ukurikiza amabwiriza ntawundi muntu bigusabye kugusobanurira ukagera ku ntego.

Ahakorerwa ubucuruzi bw'amafaranga hagaragara amafaranga y'ubwoko butandukanye, nk'ahangaha hagaragara amafaranga y'amadolari bishoboka ko uyazanye ashaka amafaranga y'amanyarwanda. Akenshi iyo bimeze gutya kugira ngo ubone amanyarwanda usanga igiciro ari gitoya ugereranyije n'iyo ashaka amadolari.

Ahakorerwa ubucuruzi bw'amafaranga yo mubwoko butandukanye, hagaragara abantu benshi baba baje gusaba iyo serivise, bagomba gutonda umurongo ntawe unyuze k'uwundi haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo nko mugihugu cy'Ubushinwa.

Ahakorerwa serivise z'ivunjisha hazwi ku izina rya foregisi biro. Hagaragara inzu ikorerwamo ubwo bucuruzi, ndetse n'abakozi bakora ubwo bucuruzi, baba bicaye bitonze bategereje kwakira abakiliya babagana.

Inzu ikorerwamo n'ibigo bitandukanye bikora ubucuruzi bw'amafaranga, ahanini bushingiye ku kuvunja, usanga abenshi ari abashaka Amadolari bafite amafaranga y'Amanyarwanda kugira ngo babashe kujya kugura ibicuruzwa mu bihugu byateye imbere byifashisha idolari.

Ibyapa byamamaza ubucuruzi bw'amafaranaga yaba amanyarwanda ndetse n'amanyamahanga biba bimanitse ahantu hirengereye ku buryo bugaragara neza ku buryo buri wese abasha kuhagana bitamugoye.

Hoteri hafi ya zose zigira pisine ishobora gukoreshwa n'abantu basanzwe bazi koga cyangwa baje kwiga, ikorerwa isuku buri gihe amazi agahindurwa cyangwa se akongerwamo imiti kugirango abitabira kubahakoresha bataba bahakura uburwayi butandukanye.

Hoteri ikorera mu Rwanda izwi ku izina rya mirikorini ifite ibikorwa birangaza bikurura abakiriya bahagana harimo ubusitani burimo ibiti binini byiza ndetse na pisine yo kogeramo ihora ifite isuku kubera ko amazi yayo ahindurwa akanongerwamo imiti.

Ahantu nyaburanga hateguwe neza, hari utuzu dutoya, dusakaye, turimo intebe n'ameza, ni ahantu heza ho gutemberera, ukisanzura, ugahumeka, ukaba waganira n'inshuti yawe ntacyo mwikanga.

Inzu y'igorofa isize amarange y'umuhondo ku nkuta, mu gihe amadirishya inzugi, giriyaje na parikingi bya yo bisize amarangi y'umukara, byongera ubwiza bwayo ku buryo uyireba uyitegeye ukabona irashimishije.

Inzu ndende isize amarangi y'umweru, bigaragara ko ishobora kuba ari hoteli. Mu ibaraza ryayo hari imitaka abakiliya bicaramo baganira, iruhande rw'iyo mitaka hari pisine irimo amazi afite isuku, ni uburyo bwiza bwo kwirangaza ngo uruhure umutwe.

Icyapa gikangurira abantu batandukanye kwitabira igikorwa cyo gutanga amaraso k'ubushake, ayo maraso abikwa neza hanyuma agahabwa abarwayi akenshi bagiye kubagwa mu igihe bafite amaraso make, cyangwa se umuntu wahuye n'impanuka ituma ava amaraso menshi akenda kumushiramo.

Icyumba cyiza gifite inkuta zisize irangi ry'umweru, gifite isuku, gifitemo ibikoresho bitandukanye nk'inebe iteyemo y'umukara yegamirwa ifite amaguru y'icyuma, akabati gafite ikirahure kinini ndetse n' idirishya rifunguka, ritunguka ahakorerwa ubucuruzi bw'ibiseke by'inaha mu Rwanda.

Serivize y'irangamimerere ni imwe muri serivize zatangirwaga ku mirenge hifashishijwe ibitabo binini bikoze mu buryo bwihariye aho uwagiraga ikibazo yazaga akagenzurwa aho bamwanditse bwa mbere.

Itsinda ritanga ubufasha ku bana batsinze neza, bakomoka mu miryango ikennye cyane. Riragaragaza ibikoresho rigiye gufashisha umwana bishoboka ko yatsindiye kujya mu mashuri yisumbuye. Birimo ibikoresho by'isuku, amakaye, ibitabo n'ibindi.

Banke ofu afurika ni imwe muri banki zizwi mu Rwanda no mu bindi bihugu, itanga uburyo bwo kubitsa mu buryo bw'igihe gito ndetse n'ubw'igihe kirekire bwita konte buroke ndetse igatanga na serivise zo kuguriza ku bakiriya bayo.

Mu biro by'ikigo cy'imari kopedu piyarasi gikorera mu Rwanda i kigali hari intebe abaje gusaba serivise bicaraho bakagenda bimuka uko umwe ahagurutse undi yimuka, ni uburyo bwiza butuma nta mukiliya waje nyuma ushaka guhabwa serivise mbere y'abandi.

Icyapa cyamamaza cy'ikgo cy'imari gikorera Rwanda kizwi nka banki y'abaturage y'u RWanda bipi ara, kigaragaza ko bakebeye abakozi, buri muntu wese ashobora kujya kuri urwo rubuga akareba ibisabwa yasanga abyujuje akaba afite uburenganzira bwo gusaba akazi akagahabwa akaba umwe mu bakozi biyo banki.

Umukobwa w'inzobe usutse imisatsi wambaye umupira w'umutuku, yicaye ahantu hari ibicuruzwa bitandukanye imbere ye hari icyapa cyamamaza uburyo bwo gutanga inguzanyo, bigaragaza ko ashobora kuba ari umukozi wa kimwe mu bigo by'imari bikorera mu Rwanda.

Isoko rinini usanga rigabanyijemo ibice bitandukanye. Nk'igice kigaragara kuri iyi foto, gicururizwamo imbuto zitandukanye. Turahabona indimu, amapera, imyembe, amatunda, imineke, ibinyomoro, n'ibindi.

Ubucuruzi bukorerwa mu mijyi yo mu Rwanda bumaze kwaguka cyane, cyane cyane ubukorerwa mu mujyi wa Kigali umurwa mukuru w'u Rwanda, usanga amazu mato y'ubucuruzi agenda asimburwa n'amagorofa ageretse kenshi yubatse mu buryo bushishikaje ariho ibyapa by'ubucuruzi ndetse n'ahagenewe guparika imodoka imbere y'izo nzu cyangwa se no munsi yazo.

Nini yubatswe mu buryo buhezweho igaragara kuri iki cyapa ni imwe mu nzu z'ikitegererezo zubatse mu mugi wa Kigali, yubakishijwe ibikoresho biramba bigizwe n'ibirahure bitapfa kumeneka.

Ubucuruzi bwibanda ku bikorerwa iwacu mu Rwanda, hakoreshejwe ibikoresho bishobora kuboneka mu Rwanda, hakubiyemo nk'uduseke turi mu mabara atandukanye, ducuruzwa ahantu hatandukanye akenshi dukorwa n'abantu b'igitsina gore bibumbiye mu mashyirahamwe kandi ni uburyo bwiza bubafasha kwiteza imbere.

Uburyo bwo kwishyura wifashishije ikoranabuhanga rya momo pay ni uburyo bwateguwe neza, ku buryo wakoresha telefone nini izwi nka smart phone cyangwa se agatelefone gatoya ubishobora, upfa gusa gukurikiza amabwiriza ugenda uhabwa intambwe ku yindi.

Mu mujyi munini hagaragara ibikorwa remezo binini bigaragaza ubucuruzi buhakorerwa nk'iyi nzu y'umuturirwa yubakishije ibirahure mu mwanya w'inkuta, bigaragara ko ikorerwamo ubucuruzi bwamamaza ibikorwa byabwo, hakagaragara imodoka zagenewe gutwara abantu za takisi vuwatiri, amapikipiki n'imitaka y'ibigo bicuruza ibijyanye n'itumanaho mu Rwanda.

Mu nzu itangirwamo serivisi z'ikigo gicuruza ibijyanye n'itumanaho mu Rwanda cya emutiyeni, haba hari umukozi ushinzwe gutanga serivisi z'icyo kigo, nk'uyu musore wambaye umupira urimo amabara y'umweru n'ay'ikigina. Ku rukuta rw'ako kazu haba hari icyapa kinini kigaragaza ibicuruzwa bitandukanye biboneka muri iyo nzu n'ibiciro byabyo.

Akazu ka Emutiyene gafite idirishya rifunguye cyane, gateretse iruhande rw'umuhanda ku buryo nta mugenzi yaba ugenda n'amaguru cyangwa se abatwaye ibinyabiziga bitandukanye kabangamira, ahubwo abaza kuhaka serivisi bahagarara iruhande rw'idirishya bisanzuye bakavugana n'umukozi wa Emutiyene ubaha serivisi.

Akazu gakorerwamo ubucuruzi n'ikigo gicuruza ibijyanye n'itumanaho mu Rwanda, emutiyeni, gasize irange ry'umuhondo nk'ibisanzwe, kariho ibyapa byamamaza, biri mu ibara ry'ubururu, karamamaza uburyo bwo gutanga amafaranga wifashishije ikoranabuhanga, cyangwa se kuyakira.

Sobanukirwa ubucuruzi butanga serivisi zicuruzwa n'ikigo cy'ikoranabunga mu Rwanda kizwi nka emutiyeni centa haba hari ibyapa byishi byampamaza ubucuruzi butandukanye ndetse na serivisi zitangwa n'icyo kigo kuburyo buri mukiriya abasha guhaza ibyifuzo bye.

Akazu k'ubucuruzi k'ikigo gikora ibijyanye n'itumanaho mu Rwanda emutiyene, gashinze iruhande rw'umuhanda, iruhande rwako hari ipoto y'amashanyarazi, ahagana inyuma yako hari ibyapa bibiri bireba inyuma. Bigaragara ko kiba kiri ahantu hitegeye kuburyo buri muntu unyura ku muhanda ashobora kugura ibicuruzwa birimo.

Umufatanyabikorwa w'iyi sosiyete ikorera mu Rwanda icuruza ibijyanye n'itumanaho emutiyeni ari mu kazu k'ubucuruzi gasize irangi ry'umuhondo, uko bigaragara abakeneye kwiyungura ubumenyi buri gihe kubera ko arangariye ku ikoranabuhanga bitewe n'uko serivisi icyo kigo gitanga zihora zihinduka umunsi ku wundi.

Uburyo bwo kwishyura hifashishijwe ikoranabuhanga ni uburyo busobanutse neza kuburyo iyo ukurikije amabwiriza udashobora kwibeshya, kuko mbere yo kwishyura bakwereka izina ry'umucuruzi, nimero ya telefone akoresha, n'amafaranga ugiye kwishyura ndetse n'ayo ukatwa kubera ko ukoresheje ubwo buryo, kuburyo iyo ukurikiye amabwiriza neza utakwibeshya.

Iyamamaza bikorwa ry'ikigo emutiyeni gicuruza ibijyanye n'itumanaho mu Rwanda, ryaragutse cyane kugeza ubwo bakora udupfukamunwa, twagaragaye cyane cyane mu gihe cya kovide cumi n'icyenda twifashishwa mu kwirinda iyo ndwara.

Ahantangirwa serivise n'ibicuruzwa by'ikigo K'itumanaho gikorera mu Rwanda emutiyene Haba hari ibikoresho bitandukanye harimo nk'akabati k'ibirahure bibonerana, kuburyo umukiriya abasha kwitegereza, aturutse impande zose, ibicuruzwa biri aho ngaho agahitamo yitonze.

Umukozi w'ikigo gitanga uburyo bwo kwsihyura wifashishije ikoranabuhanga Emutiyeni wambaye impunzankano iri mu ibara ry'umuhondo n'ubururu arasobanurira umuntu uburyo bwo kwishyura wifashishije ikoranabuhanga mu buryo bworoshye ku buryo n'umuntu waba ufite ubumenyi buciriritse atagorwa no kubukoresha.

Ikigo gicuruza iby'itangazamakuru mu Rwanda Emutiyeni cyamamaza ibikorwa byacyo mu buryo bwagutse cyane, aho usanga abakozi bacyo barakwiriye ahantu hose ndetse bashishikariza n'abakora ubwikorezi butandukanye kwishyuza bifashishije ikoranabuhanga no kubafasha kubwamamaza bomeka ibyapa ku modoka zabo.

Ibigo by'ubucuruzi byagutse nka saniramu icuruza ubwishingizi butandukanye igakoresha ikoranabuhanga mu kwishyura no kwishyuza ushobora guhabwa kode zitandukanye zifashishwa mu kwishyura muburyo bw'ikoranabuhanga nkuko bigaragra kuri ibi byapa byamamaza.

Ikigo gicuruza ibijyanye n'itumanaho n'ikoranabuhanga mu Rwanda kitwa emutiyene gitanga serivise zitandukanye, kuri iki cyapa hagaragara uburyo bukoreshwa bwo kohereza cyangwa kwakira amafaranga ukoresheje ikoranabuhanga.

Ubucuruzi rw'ibigo bibiri bicuruza ibijyanye n'itumanaho mu Rwanda aribyo eyateri na emutiyene, bihora bikubana cyane aho ibikorwa byabo biba byegeranye, buri wese ashimukiriye kwamamaza ibikorwa by'ikigo cye kugira ngo abone abakiliya.

Umuntu w'igikara wambaye ipantaro y'ubururu n'umupira w'umweru n'agakapu k'umukara akenyeye munda, afite terefone mu ntoki bigaragara ko ikoranabuhangana ryakwiriye cyane rirangaza abantu umwanya munini.

Umukozi w'ikigo gikora ibijyanye n'itumanaho mu Rwanda nk'uko ikarita yambaye y'akazi ibigaragaza, yambaye ishati y'igitenge, ahagaze imbere y'imodoka ifite ibara ry'umukara. Imodoka iparitse imbere y'icyapa kinini cyamamaza ibikorwa bya MTN mu Rwanda.

Momo peyi iri mu buryo bwiza cyane bwo kwishyura bukoresha ikoranabuhanga aho kugira ngo ubashe kwishyura ukanda akanyenyeri ugakurikizaho umurongo w'ijana na mirongo inani na kabiri ugakurikizaho akanyenyeri ugakurikizaho umunani ugakurikizaho akanyenyeri ugakurikizaho rimwe ugakurikizaho akanyenyeri ugakurikizaho nimero ya kode ugakurikiza amabwiriza.

Uburyo bwo kwishyura hifashishijwe ikoranabuhanga rya momopayi, ni uburyo bumaze kumara igihe kirekire bugaragara ko bwizewe, nkuko bigaragara kuri iki cyapa k'ikigo gicuruza ibijyanye n'ubukerarugendo, bigaragara ko cyatangiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumu n'umunani kifashisha ubu buryo bwo kwishyura.

Akazu k'ubucuruzi, k'ikigo gicuruza ibijyanye n'itumanaho mu Rwanda, emutiyene, gateretse iruhande rw'ipoto y'amashanyarazi, ni ibintu biteye ubwoba, kubera ko mu gihe cy'imvura inkuba ishobora gukubita akazu niba nta murindankuba uhari.

Umuntu wicaye wambaye ipantaro y'ubururu arakoresha ikoranabuhanga ryo kuri telefone. Ni uburyo bwateye imbere butangaje aho abonye itangazo rimwereka ko atabasha kugera ku rubuga yashakaga gufungura.

Uburyo ibigo bibiri bikora ibijyanye n'itumanaho mu Rwanda biba byegeranye, harimo Emutiyeni na eyateri, bugaragaza y'uko bashobora gukorana bitabangamiye inyungu za buri kigo, kandi abakiriya nabo bakabasha kubona serivise nyinshi kandi ku mafaranga make.

Momo peyi ni uburyo bwo kwishyura hifashishijwe ikoranabuhanga bumaze gukwira cyane, aho abacuruzi batandukanye babwitabiriye harimo n'uyu witwa Ngabonziza Jean Bosco ukoresha kode mirongo icyenda makumyabiri nagatanu zeru gatanu.

Iyamamazabikorwa ry'ikigo gicuruza ibijyanye n'itumanaho mu Rwanda, ryaramamaye cyahe, aho n'abakozi ba sitasiyo zicuruza esanse na mazutu, baba bambaye impuzankano z'icyo kigo, zifite icyapa kigaragaza ko uguze ashobora kwishyura mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Mu gihe cy'imurikagurisha ibigo bitandukanye bikora ibijyanye n'ikoranabuhanga ndetse n'itumanaho bihurira hamwe, nk'aha turabona Tecno na MTN center. Bigaragara ko muri icyo gihe MTN ikora uko ishoboye ikazana ibicuruzwa bishya kuburyo bituma yitabirwa cyane.

Iyamamazabikorwa ry'ikigo gicuruza ibijyanye n'itumanaho mu Rwanda, emutiyene. Ryateye imbere cyane, aho iyo bahagurukiye kwamamaza banatanga impano zitandukanye. nk'uyu mukiriya ahawe umupira w'umuhondo, uriho ibyapa byamamaza bya emutiyene, ahita wambarira hejuru y'uwo yari yambaye, biragaragara ko yishimiye impano ahawe.

Uburyo bwo kwishyura hifashishijwe ikoranabuhanga bumaze gusakara cyane aho ikigo cyose gifunguye imirimo gihita gisaba na kode izifashishwa mu kwishyura kugira ngo abakirya batagorwa no gusaba ko babagarurira.

Umukobwa muremure w'inzobe usutse umusatsi yambaye umupira w'umuhondo ufite ibyapa byamamaza mu gatuza, ahagaze imbere y'umugabo wambaye umupira w'icyatsi n'ingofero y'abasilamu, bombi baghagaze imbere y'akazu k'ubucuruzi k'ikigo emutiyeni.

Umukozi ukorera ikigo gicuruza ibijyanye n'itumanaho mu Rwanda, yicaye mu kazu gakorerwamo ubucuruzi gasize amarangi y'umuhondo kometse ho ibyapa byamamaza, ashobora kuba afite ubundi bumenyi, akaba hari ibikoresho ariko gukanika.

Icyapa cyamamaza uburyo bwo kugura no kwishyura wifashishije ikoranabuhanga, bwerekana yuko hejuru y'ikiguzi cy'igicuruzwa nta yandi mafaranga ukatwa, ni uburyo bwiza bwizewe, budahenze, kandi butuma umuntu abasha kuzigama amafaranga n'iyo yaba make.

Ubucuruzi bukorwa n'ikigo gicuruza ibijyanye n'itumanaho mu Rwanda cya emutiyeni bumaze kwaguka cyane nk'ubukorerwa muri aka kazu bigaragara ko ushobora kwakira no kohereza amafaranga bitangaje cyane abagabo babiri baje gusaba serivise ku buryo barimo kubiganiraho.

Ubucuruzi bw'ikigo gitanga ibijyanye n'itumanaho gikorera mu Rwanda MTN, bwateye imbere cyane kuburyo, ibyo bifashisha mu bucuruzi bwabo ibyinshi bitumizwa mu mahanga, bikaza bifunze mu makarito manini ariho ibyapa bya MTN, kuburyo bidashobora kuyoba.

Tumenyereye ko abakozi bacuruza serivise za emutiyene aba ari urubyiruko ruri hagati yimyaka nka cumi n'itanu na makumyabiri n'ibiri ariko kuri iyi foto turabona umugabo ukuze wambaye impuzankano ya emutiyene atanga serivise yifashishije terefone cyangwa mudasobwa.

Umukozi ukiri muto ucuruza serivise zitangwa n'ikigo gikora ibijyanye n'itumanaho mu Rwanda emutiyene. Araganira n'urungano bigaragara yuko aka kanya nta bakiriya benshi afite, ariko uko amasaha y'umunsi agenda akura baraza agacuruza agataha yishimye.

Iyamamazabikorwa ry'ikigo gicuruza ibijyanye n'itumanaho mu rwanda emutiyene, ryaragutse cyane aho hakoreshwa n'abanru ubona ko baciriritse benganda ku magare ku buryo bagaragaza ko aho wajya hose wahasanga serivise zitangwa na emutiyene.

Utuzu tubiri twabugenewe dukorerwamo ubucuruzi n'ibigo bicuruza ibijyanye n'itumanaho mu Rwanda MTN na Airtel ariko akenshi usanga utuzu twa MTN turusha abakiriya utwa Airtel bikaba bigaragaza ukuntu MTN yateye imbere.

Abantu batandukanye, harimo abagabo, n'abagore, abakuze, n'abakiri bato, bose usanga bitabira ibikorwa by'ubucuruzi by'ikigo gicuruza ibijyanye n'itumanaho mu Rwanda cya Emutiyeni, aho gikorera mu tuzu kenshi usanga dufite ibara ry'umuhondo.

Inzu icururizwamo na emutiyene iriho icyapa cy'umukara kigaragaza ko ushobora koreza amafaranga ahantu hatandukanye, wifashishishije ikoranabuhanga umukozi w'icyo kigo uri muri aka kazu arasobanurira abakiriya baje bamugana serivise batanga.

Ubucuruzi bw'ikigo gitanga ibijyanye n'itumanaho mu Rwanda bwaragutse cyane, gikoresha uburyo bwose bwo kwamamaza ndetse nubugera ku bantu baciriritse. Nkahangaha turabona umukozi wa emutiyene wambaye umupira w'umuhondo arereka umunyonzi wambaye umupira w'umukara Telefone ashobora kugura yishyura make make.

Ibigo bibiri by'ubucuruzi bw'ibijyanye n'itangazamakuru mu Rwanda MTN na Airtel, bihora mu ihiganwa, nk'aha ngaha bigaragara akazu gasize irangi ry'umuhondo ka MTN n'umukozi ucuruza serivisi zayo, inyuma yayo hari inzu nini ifite icyapa kigaragara neza cya Airtel na ho hakorerwa ubucuruzi bw'iby'itumanaho.

Uburyo bwo kwishyura wifashishije momo peyi ni uburyo bwiza cyane bwarasakaye cyane ku buryo ubusanga n'ahakorerwa ubucuruzi buciriritse nk'ubucuruza ibiribwa n'ibinyobwa bya mu gitondo ku buryo biba atari ngombwa kugendana amafaranga kashi.

Umusore w'igikara muremure ufite umusatsi muke, yambaye umpira urumo amabara atambitse y'umweru, ari mu kazu k'ubucuruzi ka emutiyene, uko bigaragara yiteguye kwakira umukiriya wese waza amugana.

Utuzu twabugenewe, dukorerwamo ubucuruzi n'ikigo gitanga ibijyanye n'itumahano mu Rwand, cyitwa emutiyene, tuba dusize irange ry'umuhondo inyuma n'iry'umweru imbere, usanga tumaze igihe, aho rimwe na rimwe tuba twarakobotse, dukeneye kuvugururwa.

Iyamamazabikorwa ry'ikigo gicuruza ibijyanye n'itumanaho mu Rwanda emutiyene, yarasakaye cyane ku buryo ibyinshi mu byapa ubona ari iby'icyo kigo byose bigaragara mu ibara ry'umuhondo ryandikishijeho inyuguti z'umukara zisomeka neza.

Bumwe mu bucuruzi butangwa n'ikigo gikorera mu Rwanda ibijyanye n'itumanaho Emutiyene, bukubiye mo kubitsa no kubikaza amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga, bwitabirwa n'abantu batandukanye harimo n'abanyeshuri nk'uyu wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'ikaki uhetse igikapu cy'umukara, ugaragara kuri iki cyapa.

Umusore wambaye umupira urimo amabara atambitse y'ikigina n'umweru, yakiriye umukiriya mu kazu akoreramo gasize irangi ry'umuhondo, bigaragara ko ari ak'ikigo cya mtn, gikora ibijyanye n'itumanaho mu Rwanda. Amwakiriye yishimye kuburyo n'ubutaha azagaruka.

Iyamamaza bikorwa ry'ikigo gicuruza ibijyanye n'itangazamakuru m'U Rwanda emutiyene ririhariye, rikorerwa nahantu hihariye nkaha turabona umutaka ufatanye n'inzu aho abakozi b'icyo kigo bicaye berekana ibicuruzwa bitandukanye bafite kandi byose bikorwa m'uburyo bwateguwe neza kuburyo bukurura abakiriya.

Akazu gakorerwamo ubucuruzi n'ikigo gicuruza ibijyanye n'itumanaho mu Rwanda cyitwa MTN gateretse iruhande rw'umuhanda, hakoreramo umuntu w'umugabo wambaye umupira w'umweru, bigaragara ko hafi aho ngaho hashobora kuba habereye impanuka, kubera ko yaba uwo mugabo n'abana bahagaze iruhande rw'ako kazu bose baritegereza mu cyerekezo kimwe.

Umugore w'inzobe wambaye ingofero n'umupira bifite amabara y'umuhondo n'ubururu, yambaye n'isaha ifite ibara ry'umukara acuruza ibicuruzwa by'ikigo gikora iby'itangazamakuru mu Rwanda Emutiyene akishyuza mu buryo bw'ikoranabuhanga ni uburyo bwiza bugezweho kandi bworoshya akazi.

Uburyo rwo kwishura ukoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga rya momo peyi itangwa n'ikigo gicuruza ibiryanye n'itumanaho mu Rwanda rya emutiyene, bwarasakaye cyane aho abakozi bicyo kigo babugeza no kubacuruzi bacuruza imyenda mumasoko aciriritse.

Akazi k'ikigo gicuruza ibijyanye n'itumanaho Eyateri gikorera mu Rwanda, kari ahantu hagaragara neza kegeranye n'ibindi bikorwa by'ubucuruzi, ku buryo buri wese ushaka kwishyura bimworohera yifashishije serivise zitangwa n'iki kigo cya Eyateri.

Ikigo gicuruza ibijyanye n'itumanaho mu Rwanda, gikoresha uburyo bw'iyamamazabikorwa butandukanye, harimo ubugaragaza ukuntu serivisi gitanga zituma abageze mu zabukuru bagarura akanyamuneza, ibihembo abitabira tombora gitanga bahabwa birimo n'itike ya kajugujugu ibatembereza ndetse n'ibindi.

Ahakorerwa ubucuruzi n'ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda cya emutiyene haba hari ibyapa byamamaza, nk'iki kigaragara cyane kimanitse ku nkingi ku buryo buri mukiliya wese winjiye aba akireba, ni uburyo bwiza bwo kwamamaza bugera kuri buri bantu ku buryo buri wese aza azi serivise ashaka iyo ariyo.

Abantu babiri barimo umwe wambaye ishati irimo amabara atukura umuhondo n'icyatsi n'undi wambaye ikanzu y'umukara baje gushaka ibicuruzwa by'ikigo gicuruza ibijyanye n'itumanaho MTN barakirwa neza n'abakozi bambaye impuzankano ifite ibara ry'umweru n'umuhondo.

Ubucuruzi bumaze gutera imbere cyane cyane ubukoresha ikoranabuhanga haba mu kwamamaza ibikorwa by'ubucuruzi n'uburyo bwo kwishyura bukoresha kode, aho umukiririya yishyura ntayandi mafaranga aciwe.

Ikoranabuhanga ryifashisha telefone rimaze gusakara cyane, ariko usanga abantu barifiteho ubumenyi butandukanye, aho usanga ahantangirwa serivise zijyanye n'ubwo bucuruzi, haba hari abakozi biteguye guha ubufasha abakiriya babanaga, hari ibyo batabashije gusobanukirwa.

Akazu k'ubucuruzi ka Airtel, ikigo gikorera mu Rwanda gicuruza ibijyanye n'itumanaho, gasize irangi ry'umutuku kariho ibyapa byandikishije ibara ry'umweru, gateretse iruhande rw'inzira ahantu hanyura abantu benshi ku buryo bigaragara ko katabura abakiriya.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu, umukandara w'umukara n'ipantaro y'umukara, ahagaze imbere y'akazu gacururizwamo serivisi zitandukanye za Emutiyene. Hari icyapa kigaragaza ko izo serivisi ziboneka mu gihugu cyose ariko ubu tuzi ko byagutse no hanze y'igihugu ushobora koherezayo amafaranga cyangwa kuyakira.

Ushobora kugura mega zo gukoresha kuri enterinete ukoresheje telefone yawe. Aho ushobora gukoresha ama inite ufite kuri telefone cyangwa se amafaranga ufite kuri mobayiro mane. Iyo ubonye kimwe kidashoboka baguha uburyo bwo gusubira inyuma.

Abakozi b'ikigo gicuruza ibijyanye n'itumanaho mu Rwanda emutiyene bicaye mu nzu bacururizamo irangwa n'ibyapa bitandukanye byamamaza ubucuruzi bw'icyo kigo biteguye kwakira umukiriya ubagana uhagaze inyuma y'ameza abatandukanye nawe.

Akazu gakorerwamo ubucuruzi bw'ikigo gicuruza ibijyanye n'itumanaho mu Rwanda cya emutiyene gasize irangi ry'umuhondo hasi no hejuru, hejuru wagirango gafite igisanduku kigeretseho kiriho ibyapa byamamaza byanditse mu inyuguti z'umutuku n'umukara bisomeka neza kuburyo n'uri kure asobanukirwa ibikorera aho hantu.

Abakozi b'ikigo gitanga serivisi za mobiyiro mani baba bambaye impuzankano z'akazi, baba bafite ubumenyi ndetse n'imyitwarire myiza, ku buryo iyo bibaye ngombwa asohoka muri kontwari akegera umukiriya kugira ngo amusobanurire neza abashe kumva ibijyanye na serivisi bacuruza hanyuma abone ku ugura.

Ikigo cy'ubucuruzi bw'itumanaho n'ikoranabuhanga cya MTN gikorera mu Rwanda, cyaguye ubucuruzi bwacyo cyane, aho abakozi bacyo bambaye impuzankano y'akazi, begera n'abaturage bo hasi bakabasobanurira ibikorwa by'icyo kigo kuburyo nabo bungukirwa n'ikoranabuhanga.

Abakozi b'ikigo gicuruza ibijyanye n'itumanaho mu Rwanda cyane cyane abakora ku kicaro gikuru baba bagomba kuba bafite ubumenyi buhagije ku bihereranye na serivise zitangwa n'icyo kigo kuburyo babasha guha ibisobanuro byumvikana abaje babagana.

Uburyo bwo kwishyura wifashishije ikoranabuhanga bumaze gusakara cyane mu Rwanda aho n'abaguzi b'ibicuruzwa bisanzwe harimo ibiribwa nk'inyanya nabo bashobora kwishyura bifashishije ikoranabuhanga cyangwa se amakarita yabugenewe.

Akazu ku bucuruzi ki kigo gikora ibijyanye n'itumanaho mu Rwanda Airtel ,gafite ibara ry'umutuku kometseho ibyapa by'amamaza uburyo bwo kwishyura ukoresheje Airtel mani bwa mamazwa n'umukobwa mwiza kuburyo bikurura abakiriya.

Iyamamaza bikorwa ry'ikigo gicuruza ibijyanye n'itumanaho mu Rwanda emutiyene, rikorerwa mu cyumba kinini, cyagutse, gisa neza. Bigaragaza ko icyo kigo kimaze kwiyubaka kuburyo kiba kidafite ubwoba bwo gutanga amafaranga.

Akazu ka MTN gasize irangi ry'umuhondo, gafite n'ibyapa by'umukara, ni akazu gato ushobora guterura ukagatereka ahandi hantu, ni akazu gakoze neza kabugenewe gafasha MTN gusakaza ibikorwa byayo.

Ahakorerwa ubucuruzi bwa serivise zitangwa n'ikigo gicuruza ibijyanye n'itumanaho mu Rwanda Emutiyene, hatangirwa serivisi zitandukanye harimo kubitsa no kubikuza, kohereza amafaranga haba mu Rwanda no hanze y'Urwanda.

Utuzu dusize irange ry'umuhodo, dutangirwanmo serivise z'ikigo gicuruza ibijyanye n'itumanaho mu Rwanda, emutiyene, tuba dufite ibyapa byinshi byamamaza serivise z'icyo kigo, ku buryo iyo utabashije kubona ahongaho, ushobora kujya kuyisaba ku cyicaro gikuru.

Umutaka ukorerwamo ubucuruzi w'ikigo gicuruza itumanaho mu Rwanda emutiyene, urakorerwamo n'abakozi batatu b'icyo kigo, ni ibintu bidasanzwe ariko kubera ukuntu emutiyene yiyubatse ifite serivise nyinshi, abakozi batatu bashobora gukorera hamwe, buri wese afite ibicuruzwa bitandukanye n'iby'undi.

Abantu bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, harimo uwambaye ishati y'umutuku, uwambaye umupira w'umweru, uwambaye ijipo y'umukara, bose begereye akazu gakorerwamo ubucuruzi k'ikigo cya Emutiyeni gikorera ibijyanye n'itangazamakuru mu Rwanda, barakirwa n'umukozi w'icyo kigo, umwe umwe bakurikije uko baje.

Iyo ari igihe cy'imurikabikorwa ikigo cy'ubucuruzi bw'itumanaho mu Rwanda Emutiyene gikoresha imitaka ifite amabara atandukanye. Hasanzwe hamenyerewe ibara ry'umuhondo ni ryo rikoreshwa kenshi, ariko noneho bakoresheje n'ayandi mahema afite ibara ry'umweru, ni uburyo bwiza bushishikaza abakiriya, bugatuma babyitabira cyane.

Akazu k'ubucuruzi k'ikigo gikora ibijyanye n'itumanaho mu Rwanda emutiyene, gashinze iruhande rw'umuhanda unyuramo abantu benshi. Hari umugabo wambaye umupira w'umweru waje gusaba serivise, ni muremure kuburyo byamusabye kunama kugirango adakubita umutwe ku idirishya ry'ako kazu.

Ahakorera ubucuruzi butanga serivise z'ikigo gicuruza ibijyanye n'itumanaho mu Rwanda, eyateli, hashobora kuboneka n'uburyo bwo kohereza amafaranga, bwitwa eyateli mani. Hari igihe umukozi w'icyo kigo asohoka mu kazu, akaganiriza abakiriya, bakishimana.

Umugabo muremure cyane wambaye ishati y'ubururu bwerurutse n'ipantalo y'ubururu bwijimye anyuze imbere y'ahakorerwa ubucuruzi bwa emutiyene, n'ikigo gikorera mu Rwanda gicuruza ibijyanye n'itumanaho aritegereza ibirimo kuhakorerwa, bishoboka ko aka kanya ntagahunda afite ariko ubutaha azaza kugura.

Ahakorerwa ubucuruzi n'ikigo gikora ibijyanye n'itumanaho mu Rwanda cyitwa MTN, hari abakiriya benshi bashishikariye kugura bigaragara ko bashobora kuba bagabanyije ibiciro akaba ariyo mpamvu babyitabiriye mu buryo budasanzwe.

Kwishyura wifashishije kode ya mobile money ni uburyo bwiza cyane budahenze, kuko na telefone ntoya cyane zirabikora ushobora kubwifashisha wishyura ibinyobwa bitandukanye harimo n'ibisembuye.

Abakozi babiri b'ikigo gicuruza ibijyanye n'itumanaho mu Rwanda emutiyene, bicaye iruhande rw'icyapa kigaragaraza serivise batanga, bafite akanyamuneza karanga abanyarwandakazi nk'uburyo bwiza bwo kwakira ababagana.

Abakozi b'ikigo gicuruza ibijyanye n'itangazamakuru mu Rwanda emutiyeni bahagaze imbere y'amahema y'ubururu nayo akorerwamo ubucuruzi ariko atari ubw'itumanaho ahubwo ni ubw'inzoga zisembuye harimo pirimusi bakunze kwita gahuzamiryango.

Ahakorerwa ubucuruzi butandukanye bw'ikigo gicuruza ibijyanye n'itumanaho mu Rwanda emutiyene, hakorerwa ibikorwa bitandukanye hakubiyemo uburyo bwo kwishyura hifashishijwe uburyo bw'utumashini, cyangwa se telefone ukishyura muburyo bw'ikoranabuhanga.

Iyamamazabikorwa ry'ikigo gicuruza ibijyanye n'itumanaho mu rwanda emutiyene ryateye imbere cyane, aho gikoresha abakozi benshi bafite ubuhanga butandukanye kugirango, bamamaze ibikorwa byabo babashe kwikururira abakiriya n'isoko rinini uko bishoboka kose.

Uburyo bwo kwishyura wifashishije ikoranabuhanga, ushobora kubugeraho mu buryo butandukanye. Ushobora gushyiramo imibare yose icyarimwe nk'uko igaragara kuri kiriya cyapa kigaragaza uko wishyura, kimwe n'uko ushobora kugenda untambwe ku yindi, ukirikiza amabwiriza.

Ahakorera serivise zo kubitsa no kubikuza za banki ya ekwiti ikorera mu rwanda haba hatatse neza mu buryo bwa kinyarwanda, abakozi bicaye neza batuje imbere ya mudasobwa bigaragar ko boroherezwa akazi kuko bababafite n'amazi yo kunywa.

Akazu gakorerwamo ubucuruzi n'ikigo gitanga ibijyanye n'itumanaho mu Rwanda cya emutiyeni, hari abantu batandukanye barimo abagabo babiri, umwe yambaye ishati y'umweru, undi yambaye ipantaro y'ubururu n'umugore wambaye umupira w'umukara, bigaragara ko baje kugura zimwe muri serivisi zitangirwa aho ngaho.

Iyamamaza bikorwa by'ibigo bitandukanye bikora ubucuruzi bushingiye ku ikoranabuhanga mu Rwanda, rikorwa mu buryo butandukanye aho byifashishwa murandasi cyangwa se telefone, ariko byose intego ari imwe ari ukwamamaza ibikorwa byabo, ndetse no kukwereka uburyo wakwifashisha kugira ngo ubashe kubigura bitakugoye.

B2C E-Commence ni uburyo bw'ubucuruzi bushingiye ku ikorananabuhanga aho ikigo gikora ubucuruzi gishyirikiriza abakiliya ibicuruzwa batavuye mu rugo bumaze kwamamara no mu Rwanda mu mujyi wa KIgali tubona company zibikora harimo nka YEGO ndetse na VUBA VUBA.

Ahakorerwa ubuvuzi bw'amaso, hagaragara amafoto y'amaso afite uburwayi buri ku bipimo bitandukanye, ndetse n'uburyo ashobora guteza ingaruka cyangwa se ashobora kuvurwa.

Uburyo bwo gutwara abantu hifashishijwe amapikipiki bumaze gutera imbere cyane, aho usanga kuri buri ngodero, yaba iy'umushoferi n'iy'umugenzi, haba handitse ho nimero za telefone, umukiriya shobora guhamagara igihe atishimiye serivisi yahawe.

Umukobwa w'inzobe ufite amenyo y'umweru n'amaso manini ugaragara kuri iki cyapa afite akanyamuneza gaterwa no kuba uruhu rwe rukeye abikesha amavuta yisiga yamamazwa kuri icyi cyapa.

Icyapa cyamamaza ubucuruzi bushingiye kw'ikoranabuhanga bw'ikigo cyitwa kigure doti rwa. Cyerekana ukuntu ibicuruzwa byacyo bitandukanye kandi wabinona ku bacuruzi impande n'impande ku biciro utasanga ahandi, bikakugeraho nta kiguzi cy'inyongera.

Ubucuruzi bushingiye ku ikoranabuhanga aho ibicuruzwa bigezwa ku muguzi atavuye iwe ni ubucuruzi bwiza cyane bwizewe bukoresha igihe gitoya aho akenshi hakoreshwa amapikipiki umushoferi agaheka ibicuruzwa mu gisanduku akabishikiriza umuguzi nawe akishyura akoresheje ikoranabuhanga.

Icyapa kiriho akagare ka abafite ubumuga gikunda kugaragara ku mihinda aho bakunda kunyura iyo abashoferi batwaye ibinyabiziga bahageze bagomba kugabanya umuvuduko kugira ngo batagira uwo bahutaza.

Icyapa cyamamaza ubucuruzi bukorerwa no mu mahoteri akomeye mu Rwanda nka Serena, hakorerwamo ibikorwa bitandukanye nk'iby'abahanzi, ubucuruzi bw'inzoga zisembuye nka mitsingi n'ibindi n'ibindi.

Ubucuruzi bushingiye ku ikoranabuhanga, bumaze gutera imbere cyane mu Rwanda, aho imbuga zitandukanye zo kuri murandasi, zamamaza ibicuruzwa bitandukanye, n'ibiciro byabyo ndetse n'uburyo ushobora kuvugana n'umucuruzi, bikakugeraho bitagoranye.

Iyamabazabikorwa ry'ubucuruzi bushingiye ku ikoranabuhanga, rigaragaza ibicuruzwa bitandukanye ushobora kugura wifashishije ubwo buryo kandi bakagaragaz n'imbugankoranyambaga wakwifashisha kugira ngo ubone amakuru, harimo nka fesibuke na watsapu.

Ibigo bikora ubucuruzi bwifashisha ikoranabuhanga, birimo ibyiciro byinshi nk'ibi bikora ubwikorezi kuri moto bikageza ku baguzi ibicuruzwa, batagombye kuva mu rugo bimaze kuba byinshi ku buryo ibyo bigo bikoresha imbaraga, kugira ngo byamamaze ibikorwa byabyo mu mafoto agaragara neza abereye ijisho.

Ubucuruzi bushingiye ku ikoranabuhanga bwaramamaye cyane usanga ibyapa hirya no hino bubwamamaza, nk'ikingiki kiragaragaza ibicuruzwa ushobora kubona kuri uru rubuga, uburyo bwo kwishyura ndetse n'ukuntu byakugeraho bitakugoye.

Ipikipiki ihetse igisanduku gikorerwamo ubucuruzi bushingiye ku gushyikiriza umuguzi ibicuruzwa atavuye mu rugo, iparitse imbere y'igipangu gifite urugi rw'ubururu, bigaragara ko umushoferi w'iyo pikipiki agiye gushyikiriza umuguzi ibyo yatumije.

Amapikipiki ahetse ibisanduku bikorerwamo ubucuruzi bushingiye ku kugeza ku muguzi ibicuruzwa atavuye mu rugo, aba aparitse ahabugenewe ategereje ko hari abakiriya bakora komande bityo bakagenda umwe umwe bakurikije uko baparitse bose bakagenda bagerwaho.

Ubucuruzi bushingiye ku ikoranabuhanga bumaze gusakara cyane, aho hasigaye haboneka ibicuruzwa bitandukanye nk'ibikoreshwa mu gutaka amazu, ibikoreshwa mu gusukura no kwanika imyenda, ibinyobwa n'ibiribwa nk'ubuki n'ikawa n'ibindi n'ibindi.

Urubuga rwamamaza ubucuruzi bwifashisha ikoranabuhanga buzwi nka ikamasi, rurerekana ukuntu ubwo bucuruzi ari bwiza kandi bworoshye butuma ukoresha umwanya neza, aho ushobora gutumiza ibicuruzwa ari nako ukora ibindi bintu bitandukanye nko kumva umuziki.

Icyapa cyamamaza ubucuruzi bushingiye ku ikoranabuhanga bw'ikigo Yubeyi, kigaragaza ukuntu ari uburyo bwiza bufasha abaguzi kugura bifashishije ikoranabuhanga mu Mujyi wa Kigali. Umuntu witwa Nkurunziza ukorayo afasha abakiriya mu buryo buhoraho.

Umuntu wambaye ingofero y'umutuku, umupira w'umutuku, ipantaro y'ubururu atwaye ipikipiki ifite ibara ritukura, ahetse igisanduku gifite ibara ritukura bigaragara kp gitwarwamo ibiribwa ibicuruzwa bakishura m'uburyo bw'ikoranabuhanga.

Icyapa cyamamaza ubucuruzi kigaragaza ibihe by'umwaka byihariye, nk'aha ku itariki makumyabiri n'eshatu z'ukwacumi na kumwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, saa yine z'amanywa hagombaga kuba ikintu kihariye, ku buryo abantu bari kugura bisanzuye, badaciwe amafaranga y'inyongera nk'imisoro n'ibindi.

Urubuga rwamamaza igitaramo cy'abahanzi, Kigali apu, kigaragaza uburyo ushobora kubona amatike ndetse ukagabanyirizwa ibiciro, kugira ngo uzabashe kwitabira icyo gikorwa.

Icyapa cyamamaza ubucuruzi by'ikigo famili buke, gicuruza ibintu bitandukanye harimo imbuto, amavuta, ibirungo, ifarini n'ibindi kigaragaza ry'ibiciro rifatika kuva ku bihumbi mirongo itandatu na birindwi magana tanu kugera ku bihumbi mirongo itanu na bine na magana tanu.

Icyapa cyamamaza ubucuruzi bwifashisha ikoranabuhanga, kigaragaza ko ushobora kugura ibintu byinshi cyangwa se utuntu dukeya kandi buri gihe ibicuruzwa bikakugeraho bitagoranye hifashishijwe ibigo nka fedegisi.

Urubuga rwamamaza ubucuruzi bwifashisha ikoranabuhanga buzwi nka ikamasi bugaragaza ukuntu umukiriya yishyura amafaranga makeya iyo ibiciro byagabanyijwe hagabanutseho amafaranga arenga ibihumbi cumi na bitatu, umuntu ashobora kuyishyura mu buryo bworoshye ntakindi giciro cy'inyongera agombwe gukatwa.

Umukozi w'ikigo gicuruza cyifashishije ikoranabuhanga yambaye impuzankano y'akazi igizwe n'umupira ufite ibara rya oranje, yambaye n'ipantaro y'ubururu, ari mu bubiko bw'ibicuruzwa bigaragaramo ko utubati tubikwamo ibyo bicuruzwa twambaye ubusa kubera ko badaheruka kurangura.

Ubucuruzi bunshingiye ku ikoranabuhanga nk'ubu bw'ikigo cyitwa kiriyebusi, bwaramamaye cyane, turabona umukozi w'icyo kigo, wambaye ingofero atwaye ipikipii ifite ibara ry'ubururu, ahetse igisanduku cy'umutuku kirimo ibicuruzwa kiriho n'ibyapa byamamaza.

Umukozi w'ikigo gicuruza mu buryo bwifashisha ikoranabuhanga. Yambaye impuzankano y'icyatsi, yambaye n'umupira w'umweru. Arashyikiriza umuguzi ibicuruzwa yasabye amusobanurira ko bimeze neza ku buryo bitumye umuguzi.

Icyapa cyamamaza ubucuruzi bwifashisha ikoranabuhanga, kiragaragaza urubuga rw'icyo kigo kikagaragaza nimero za telefone wahamagararaho, kikagaragaza uburyo bukoreshwa mu kugeza ubucuruzi ku baguzi, bwaba ubukoresha imodoka cyangwa abantu iyo ari ibicuruzwa bike, bukagaragaza n'uburyo bwo kwishyura hifashishijwe ikoranabuhanga.

Icyapa cyamamaza ubucuruzi bushingiye ku ikoranabuhanga buzwi nka ekamasi, kerekana ukuntu ushobora kugura ibintu bitandukanye ahantu hamwe, bakabikugezaho hifashishijwe imodoka cyangwa se inzira y'ubwato.

Ibyapa byamnamaza uburyo bw'ubucuruzi bushingiye ku ikoranabuhanga bakunze kwita ikamasi, bugaragaza ko bumaze kwaguka cyane aho bwageze no ku bigo biciriritse, bikagaragaza imbuga zikoreshwa kugira ngo ubashe kugera muri ubwo bucuruzi, n'ibisobanuro bihagije ku buryo nta kwibeshya kwabaho.

Ikigo gicuruza ibijyanye n'itumanaho mu Rwanda iposita, ni ikigo cya kera kimaze igihe kinini cyane gifite abakozi benshi n'ibikoresho bitangaje, amamodoka, amapikipiki, n'amazu byose bigaragaraho icyapa cy'icyo kigo ku buryo udashobora kwibeshya.

Rush foods ni ikindi kigo gikorera mu Rwanda cyifashisha uburyo bukoresha ikoranabuhanga bushingiye ku gushyikiriza umuguzi ibicuruzwa hifashishijwe amapikipiki n'abashoferi babyiyemeje, umuguzi agashyikirizwa ibicuruzwa atavuye iwe mu rugo, akishyura yifashishije ikoranabuhanga.

Ubucuruzi bushingiye kw'ikoranabuhanga ndetse no muburyo bwo gushyikiriza ibicuruzwa umuguzi atavuye murugo bimaze kwamamara cyane, akenshi ukoresha ibisanduku bya bugenewe ,bigenda bitwawe n' umukozi wambaye impuzankano y'icyo kigo ,atwaye ipikipiki ageze ku muguzi agiye ku mushyikiriza ibyo yatumije.

Icyapa cyamamaza ubucuruzi bushingiye ku itumanaho, kigaragaza uburyo bworoshye bushobora gukoreshwa bukamara igihe kirekire, ukabukoresha kuri terefone cyangwa se kuri murandasi ukora ibikorwa bitandukanye.

Urubuga rwamamaza ibikorwa by'umusore ukiri muto w'umuhanga mu ikoranabuhanga kuburyo yavumbuye hakiri kare uburyo bufasha abakiriya gukoresha neza igihe cyabo bakagera kubyo bifuza.

Ubucuruzi bushingiye ku ikoranabuhanga nk'ubukorwa n'iki kigo kitwa uzuri gikorera mu Rwanda, bwaramamaye cyane kandi bugira ingaruka ku baguzi kubera ko bemera kugabanya no kugeza kuri mirongo itatu na gatanu ku ijana bugatuma bwitabirwa ku buryo butangaje.

Urubuga rwamamaza ubucuruzi bushingiye ku ikoranabuhanga, bwitwa i kamasi, buragaragaza ukuntu ibigo bimwe na bimwe hari igihe bitanga impano ku bakirriya babyo, bitewe n'igihe cy'umwaka cyangwa se iyindi mpamvu, twavuga nk'isabukuru y'amavuko.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'umupira urimo ibara ry'umuhondo yegamiye ipikipiki ihetse igisanduku kiri mu ibara ry'umuhondo gikorerwamo ubucuruzi bushingiye ku kugeza ku muguzi ibicuruzwa atavuye aho ari, bigaragara ko ari ubucuruzi bubyara umusaruro ukurikije akanyamuneza uyu mugabo afite.

Urubuga rwamamaza ubucuruzi bukoresha ikoranabuhanga buzwi nka ikamasi, rugaragaza ibicuruzwa bigurwa kenshi n'abagore cyangwa abakobwa mu kwiyongerera ubwiza, bwaba ubw'imisatsi ndetse n'imirimbo itandukanye, rugaragaza ukuntu mu ibihe bimwe na bimwe habaho igabanya ry'ibiciro ridasanzwe, rigera no kuri mirongo itatu ku ijana.

Afurifamazi maketi ni ikigo gikora ubucuruzi bwifashisha ikoranabuhanga, gicuruza ibiribwa bitandukanye, birimo imbuto n'imbiga, gikura ku bahinzi, ku buryo biba bigifite umwimerere n'ubuziranenge.

Ubucuruzi bukoresha ikoranabuhanga bumaze kwamamara cyane, aho buri wese aba ahiganwa n'undi agaragaza ibicuruzwa afite, agaragaza nayo ashobora kugabaniyiriza umuguzi kugira ngo abashe kwigarurira imitima y'abakiriya.

Icyapa cyamamaza ubucuruzi bw'ibiribwa bitetse, kigaragaraza isahane iriho ibiryo bitandukanye, bipanze neza, bifite amabara atandukanye, ku buryo umukiriya akibireba, amazi yuzura akanwa, akihutira kubigura.

Uburyo bw'ubucuruzi bw'ikoranabuhanga buramamazwa kuri iki cyapa, aho bagaragaza ko bacuruza ku biciro byiza, mu buryo bufite umutekano kandi ukagezwaho ibyo uguze uhamagaye kuri nimero ikenda rimwe rimwe rimwe.

Icyapa cyamamaza ubucuruzi bw'ikigo kitwa meri kigaragaza ibyiciro bitandukanye by'ibicuruzwa gifite, harimo iby'abana iby'abagore, iby'abagabo, ibijyanye n'ikoranabuhanga n'ibindi bitandukanye.

Ubucuruzi bushingiye kugushyikiriza umuguzi ibicuruzwa atavuye iwe mu bugo bumaze gusakara cyane mu mugi wa Kigali aho ubona amapikipiki atandukanye ahetse ibisanduku birimo ibicuruzwa atarwa n'abashoferi bambara amajiri y'ibigo bakorera bakishyura bifashishije ikoranabuhanga .

Ikigo vuba vuba ni ikigo gikora ubucuruzi mu mugi wa kigali kifashishije ikoranabuhanga, aho umukiriya arumiza inyo ashaka ku rubuga rwa vuba vuba nayo ikabimugezaho bidatinze.

Ubucuruzi bushingiye kw'ikoranabuhanga bumaze kwamamara cyane, no mu mujyi wa Kigali umurwa mukuru w'u Rwanda turabuhasanga. Hirya no hino tubona ibyapa byamamaza nk'ikingiki cyamamaza ikigo gikora ubwo bucuruzi cyitwa Akarwa.

Iyamamazabikorwa ry'imbuga zikora ubucuruzi bwifashisha ikoranabuhanga buzwi nka e-commerce, bugaragaza ukuntu ikoranabuhanga ryateye imbere ku buryo ushobora kugura wicaye iwawe kandi ibicuruzwa bikakugeraho nta ngorane.

Urubuga rwamamaza afuri padi ni udukoresho tw'isuku twifashishwa n'abagore cyangwa abakobwa bari mu mihango y'ukwezi, ni ikigo kigaragaza ko ari cyo cya mbere gitanga udukoresho dushobora gukoreshwa inshuro irenze imwe.

Ubucuruzi bushingiye kugushyikiriza baguzi ibicuruzwa batavuye mu rugo, bumaze kwamamaza cyane mu Rwanda, usanga amapikipiki yikoreye ibisanduku birimo ibicuruzwa, atwawe n'abantu bambaye impuzankano zabugenewe, ku buryo iyo bageze ku muguzi ahita amenya aho baturutse.

iyamamazabikorwa ni uburyo bukoreshwa n'ibigo bitandukanye by'ubucuruzi, aho berekana igicuruzwa n'ishusho yacyo mu gihe bishoboka igiciro cyacyo ndetse n'ukuntu ushobora kukibona bitakugoye.

Ibyapa byamamaza ubucuruzi bw'ikikomoka ku mata mu rwanda, bwarakwiriye cyane kuri ibyo byapa ubonaho abagabo, abagore ndetse n'ibyo bicuruzwa akaba ari ikinyetso cy'uko ibyo binyobwa bigitira akamaro abantu bi'ingeri zose.

Iyamamaza bikorwa ry'ubucuruzi bushingiye ku ikoranabuhanga, riba risobanutse mu buryo buhagije, aho bakubwira izina ry'igicuruzwa igiciro cyacyo, ndetse bakagusobanurira n'ukuntu gifunze, haba ipaki nini n'udupaki dutoya ushobora gusanga muri iyo paki.

Ubucuruzi bushingiye ku gushyikiriza umuguzi ibicuruzwa iwe mu rugo, akishyura mu buryo bw'ikoranabuhanga bumaze gusakara cyane n'ibigo bubikora byabaye byinshi. Harimo ibyari bisanzwe bizwi cyane, ariko nk'iki gikoresha igisanduku cy'ubururu cyandikishijeho amabara y'umuhondo cyitwa Knnis ntago cyari kizwi cyane.

Urubuga rwamamaza ikigo gikora ubwikorezi mpuzamahanga, rugaragaza ukuntu aho waba uri hose ku isi ukagura ibicuruzwa iki kigo gishobora kugufasha kubigereza aho ushaka, kifashishije uburyo butandukanye bushoboka haba indege cyangwa se ubwato bitakugoye.

Ikigo iposita ni ikigo kimaze imyaka myinshi gikorera mu Rwanda, gitanga serivisi zo gutwara kuriye ndetse gitanga n'izindi zitandukanye zijyanye n'ubucuruzi bw'amafaranga. Gikoresha uburyo butandukanye burimo imodoka ziba zifite ibyapa bisize amarangi y'umuhondo n'ubururu, byanditseho amagambo yo kwamamaza.

Vuba vuba ni kimwe mu bigo bikorera mu Rwanda, bikora ubucuruzi bushingiye ku ikoranabuhanga, bukoresha uburyo bwihariye, aho umuguzi ashyikirizwa ibicuruzwa atavuye mu rugo, akishyura udufaranga duke turenga ku y'igicuruzwa ubwacyo.

Ipikipiki ifite ibara ry'umutuku ihetse igisanduku gifite ibara ry'icyatsi cyandikishijeho inyuguti z'umweru, cy'ikigo gikora ubucuruzi bushingiye ku ikoranabuhanga cyitwa vuba vuba. Ni uburyo bwiza bumaze gusakara mu Rwanda, aho umuguzi ashyikirizwa ibicuruzwa atavuye mu rugo.

Iyamamazabikorwa rikorera kuri murandasi rigaragaza ibintu bitandukanye, nk'iki cyapa kigaragaza inzu y'igorofa yometseho ibyapa byinshi byamamaza ubucuruzi bw'amasosiyete ashobora kuba akorera muri iyo nzu cyangwa ahandi hafi aho. Byose ushobora kubibonaho ibisobanuro ukanze kuri ako kamenyetso ka watsapu kari mu ibara ry'icyatsi.

Icyapa cyamamaza ubucuruzi bushingiye ku ikoranabuhanga buzwi nka ikamasi, kigaragaza ukuntu n'ubwo ubwo bucuruzi ari bushyashya ariko burimo kwaguka cyane, aho bwitabirwa n'ibigo by'imbere mu gihugu cyangwa ibyo hanze ku buryo bigaragaza yuko buri kigo kiba gifite inyungu mu kubwitabira.

Umusore wambaye impuzankano y'akazi igizwe n'umupira w'icyatsi, ingofero y'icyatsi, yambaye n'ipantaro y'ubururu, atwaye ipikipiki ifite ibara ry'ubururu risa n'iriri ku gisanduku ahetse gitwara ibicuruzwa, bigaragara ko yishimiye akazi akora.

Umugabo w'inzobe wambaye ikote ry'ubururu aramamaza uburyo bwo kwiga hifashishijwe ikoranabuhanga, ni uburyo bwiza ari uburyo bwo kwiga ari nubwo kwishyura byose biroroshye, Kandi mu gihe gitoya ukaba wabashije kubona ubumenyi butuma ujya ku isoko ry'umurimo.

Icyapa cyamamaza ubucuruzi bushingiye kw'ikoranabuhanga. Kiragaragaza ibicuruzwa bitandukanye ushobora kugura harimo; amakote, inkweto, agenda, amasakoshi n'bindi; n'ihiciro cya buri gicuruzwa, ndetse n'ayo ushobora kugabanyirizwa.

Ubucuruzi bwifashisha ikoranabuhanga bukageza ibicuruzwa ku baguzi i wabo mu rugo, bumaze kwaguka cyane mu mujyi wa Kigali, ku buryo buri kigo gikoresha imbaraga nyinshi kugira ngo cyamamaze ibikorwa byacyo bityo kibashe kubona abakiriya.

Isoko ricururizwamo ibitoki, bigaragara ko ryatunganyijwe neza, aho ibitoki biba biri mu bisanduku bya parasitike hari ibifite ibara ry'umuhondo, hari ibifite ibara ry'umutuku, bigaragara ko n'abacuruzi bambaye impuzankano z'imikara n'ingofero ku buryo rwose isuku bigaragara ko iba yabungabunzwe bihagije.

Ubucuruzi bushingiye ku ikoranabuhanga aho umuguzi ashikirizwa ibicuruzwa atavuye iwe mu rugo hifashishwa akenshi moto ihetse igisanduku kirimo ibicuruzwa itwawe n'umukozi wambaye impuzankano y'akazi.

Iyamamazabikorwa ry'ubucuruzi rishingiye ku gutwara, ibicuruzwa no kubigeza ku muguzi atavuye iwe mu rugo buramamazwa cyane aho abakozi bambaye impuzankano zabugenewe berekana ibicuruzwa bafite akanyamuneza ku buryo bikurura abakiriya.

Ubucuruzi bushingiye kw'ikoranabuhanga bwaragutse cyane, aho busigaye bukoreshwa no mu gutwara abantu. Aho ibigo byabyiyemeje bikoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga n'ikarita yereka umugenzi aho uje kumutwara aturutse n'uko agenda amwegera.

Ubucuruzii bushingiye ku ikoranabuhanga bumaze gukwirakwira cyane aho usanga iyamamaza bikorwa rikoreshwa no kutuntu dutoduto dukoreshwa mu rugo nk'imineke, amandazi, keke n'ibindi.

Icyapa cyamamaza ubucuruzi bwifashisha ikoranabuhanga, buzwi nka i kamasi, kigaragaza ko ari ho hantu ha mbere heza ushobora gukura ibicuruzwa ku biciro bitangaje! Ubwo rero ni ah'abakiriya bahagana.

Icyapa cyamamaza ubucuruzi bushingiye ku ikoranabuhanga, kigaragaza ukuntu bwateye imbere kurusha ubucuruzi busanzwe, kandi butwara igihe gito, aho gufata umwanya ujya kureba umucuruzi, wareba kuri murandasi, bakabikoherereze, ukishyura nta mananiza.

Umukobwa ugaragara kuri iki cyapa wambaye umupira w'icyatsi, ukaba impuzankano y'ikigo gikora ubucuruzi bwifashisha ikoranabuhanga cyitwa vuba vuba gikorera i kigali mu Rwanda, afite akanyamuneza bigaragaza yuko yishimiye akazi akora, ni ikimenyetso cy'uko baba abagore cyangwa abagabo bashobora gukora imirimo itandukanye.

Mu nzu ikorerwamo ubucuruzi bw'amatike y'indege, inzu yubatse neza hasi no hejuru nk'uko bigaragara. Hagaragara n'icyapa cyanditseho igiciro cy'amafaranga y'amadorari ibihumbi bibiri bigagagara ko ariyo tike igukura aho ngaho kugera mu Rwanda i Kigali.

Inzu nini nziza ifite ubwiza buhebuje, ifite igisenge gisakaje amategura, ifite ibaraza rikoze neza risize amarangi y'umweru, ikagira amadirishya n'inzugi zirimo ibirahure bihanaguye neza bibengerana.

Iyamamazabikorwa ry'amazu akodeshwa n'agurishwa rimaze kwaguka cyane mu Rwanda, aho ubona ibyapa bitandukanye byaba ibiri kuri murandasi cyangwa se ibimanitse iruhande rw'inzu, bigaragaza inzu zikodeshwa cyangwa se zigurwa n'ingano yazo nk'iyi ifite ibyumba bitanu.

Rwiyemezamirimo wambaye ijire y'akazi ifite ibara ry'icyatsi, bigaragara ko arimo kwitegereza umuhanda yapatanye kuwukora. Ni umuhanda ugiye kunyuzwa ahuzuye amazu meza ya kadasitere, afite ibisenge bitandukanye hari afite ibisenge bitukura ndetse n'afite ibisenge by'igihogo.

Ubucuruzi bushingiye ku bukomisiyoneri bumaze gutera imbere mu Rwanda, aho ibigo bikora ubwo bucuruzi bifotora amazu imbere n'inyuma bikerekana ubwiza bwayo ku mbuga nkoranyambaga, hanyuma bukagaragaza ko ari amazu akodeshwa cyangwa agurishwa, ni ubucuruzi butaragira amategeko abugenga ku buryo hari abimwa ibihembo basezeranyijwe.

Icyapa cyamamaza, cyometse ku nzu nini isize amarange y'umweru, kigaragaza ingano y'iyo nzu. Aho bivugwa ko ifite ibyumba bibiri byo kuraramo, icyumba kimwe cyo gukarabiramo, icyumba cy'uruganiriro, ndetse n'igikoni kiri imbere mu nzu.

Ubwo wibajije ikoranabuhanga ni byiza cyane kuko nanone ukugira ubunebwe ntabwo ujya uva mu rugo ngo ubashe kutemberera n'ahantu dutuye uko hameze ariko nanone birafasha niyo unaniwe ntabwo ushobora kuva iwanyu unaniwe cyangwa utashye bwije ngo ujye ku isoko guhaha. Nkuko ubibone iki ni ikirango kerekana imyenda y'iminyarwanda n'inkweto zikorerwa mu rwanda nawe wabyihangira

Inzu nini y'ubucuruzi icururizwamo ibintu bitandukanye harimo ibiribwa, ibinyobwa ndetse n'ibikoresho by'isuku, igaragaramo utwuma twabugenewe dufite amapine dufasha abaguzi batandukanye, gupakira ibicuruzwa byabo bakabigeza aho bishyurira, hanyuma bakabona kubigeza mu modoka zabo bagataha.

Igisobanuro k'isoko ni ahantu abaguzi n'abagurisha bahurira kugira ngo bahererekanye ibicuruzwa hakoresheje uburyo bwo kwishyura bitandukanye, muri iki gihe cyane cyane uburyo bukoreshwa ni ubw'amafaranga.

Abagore bicaye ku ntebe y'urubaho ikoze mu giti bicaye bakurikiranye ukurikije uko baje bategereje guhabwa serivise kwa muganga, bamwe bashobora kuba baje kwivuza indwara zisanzwe z'umubiri, umwe muri bo akabayaje kwipimisha inda.

Udutabo two kubitsa no kubikuza dukoreshwa n'ibigo by'imari bito n'ibiciriritse, tugaragaramo ifoto ya nyiri agatabo, umwirondoro we, n'amakashe y'icyo kigo aterwa muri ako gatabo ko abitsa cyangwa akabikuza.

Umukobwa w'igikara ufite imisatsi myinshi useka neza, ashishikajwe n'ubucuruzi bukoresha ikoranabuhanga, bukorerwa kuri murandasi, yiteguye kwishyura yifashishije ikarita yabugenewe mu buryo bw'ikoranabuhanga nyine.

Ahacururizwa serivisi zitangwa n'ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda emutiyeni, hagaragara n'ibindi bikorwa bitandukanye hari nk'ubucuruzi bw'ibiribwa byoroheje, harimo nka keke amandazi isambusa ziba ziri mu cyuma cyabugenewe gituma zikomeza gushyuha, hagaragara n'insakazamashusho inyuraho ibiganiro bitandukanye

Mu maguriro manini y'ibikoresho byo murugo, ibiribwa bitandukanye ndetse na poroduwi z'ibwiza, hagaragaramo udukoresho dukoze mucyuma wifashisha wegeranya ibyo waguze mbere yo kubyishyura.

Abantu bitabira amaguriro manini acuruza ibikoresho n'ibiribwa bikoreshwa mu rugo buri gihe bifashisha utugare twabugenewe ugenda ushyiramo ibicuruzwa waguze utitaye ko uri bugure byinshi cyangwa bike.

Amaguriro acuruza ibiribwa bitandukanye, aba afite ubuhanga bwihariye bwo gupanga ibicuruzwa byabo mu tubati twabugenewe, ku buryo umukiriya ashobora kuzenguruka areba igicuruzwa ashaka, buri gicuruzwa kiba kiriho igiciro, ku buryo haba hadakenewemo abakozi benshi.